Abantu babiri bicaye ku meza amwe bose bafite amaterefone bakaba hagati yabo hariho icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahure. Icupa ririmo inzoga ifite ibara ry'umweru.

Ipikipiki iparitse hanze y'ahantu bacururiza inzoga, ikaba iriho umuntu w'umugabo. Inyuma ye kw'ipikipiki hakaba hariho agasanduka kari mu mabara y'umutuku gatwawe niyo pikipiki.

Ahantu hanini cyane hari intebe zitandukanye, indabyo z'ubwoko butandukanye, abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'umugabo n'ubwoko bw'inzoga butandukanye, bigaragara ko ari ahantu abantu bafata icyo kunywa cyane cyane agasembuye (inzoga)ariho bicara.

Umugabo ufashe ibirahure bibiri by'inzoga byuzuye cyane akaba ari umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse akaba ahagaze imbere y'izindi nzoga z'ubwoko butandukanye.

Inzu y'urunywero aho banywera inzoga, hakaba hari kwaka urumuri rw'icyatsi kibisi inzoga iteretse ku meza, ndetse hakaba hari n'abantu bagiye batandukanye bari kunywa inzoga.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba kinini kirimo amatara makeya y'umuhondo hari intebe z'umutuku ndetse naho banyura hakozwe mumabara y'umukara n'umweru. Ahantu hanywerebwa inzoga.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto ndende arambuye amaguru ku ntebe, ndetse ahantu ari hari n'abandi bantu benshi cyane batandukanye, bicaye mu ntebe zabo. Aho hantu biragaragara ko ari aho bafatira amafunguro ndetse vn'ibinyobwa.

Ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo inzoga. Inzoga ziteretse ahagenewe guterekwa, bigaragara ko ahantu ariho abantu banywera inzoga. Inzoga ni ikinyobwa cyiza gikundwa n'abantu benshi, n'ubwo hari abacyanga bakigayira ko kirura cyangwa kibiha.

Ni nijoro hari kwaka amatara y'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi ariko adakabije cyane, hari ubwoko bwinshi bw'inzoga butandukanye bwinshi cyane, ndetse hari n'ibirahure bakoresha bari kunywa izo nzoga.

Umugabo wicaye mu ntebe afashe igitabo akaba yicaye mu ntebe y'umukara n'ameza ari mu ibara ry'umuhondo. Uwo mugabo yambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'amaboko magufi urimo amabara y'umweru n'umutuku.

Icyapa kinini, cyamamaza ahacururizwa ibinyobwa byiganjemo inzoga. Kikaba kimanitse hejuru y'igisenge cy'inzu, cy'amabati y'umutuku. Munsi y'icyapa hakaba hari abantu ndetse n'imodoka z'ubwoko butandukanye, zihaparitse.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye bumanitse hejuru ku gikuta, ahantu heza hagaragara ko ari heza, harimo imitako itandukanye myiza cyane, ahantu rwose hagaragara neza.

Ibikombe bikoze mubirahure basanzwe banyweramo inzoga, ariko kuri iyi nshuro hano birimo amazi. Ni ibirahure byinshi biteretse ku meza bigaragarako bisa neza cyane.

Akabati karimo ubwoko bw'inzoga zitandukanye zikaba ziri hafi y'ameza, Ndetse hejuru yaho hakaba hateretseho televiziyo ebyiri nziza cyane.

Ibisenge by'amazu atandukanye bigagaraga ko ni ibisenge by'amazu asakajwe amabati, hariho n'icyapa kinini kiri mu mabara y'umutuku n'umweru kimanitse ku gisenge kigaragaza ko aha hantu hari aho banywera inzoga.

Abantu benshi benshi batandukanye bari ahantu hamwe bahagaze harimo: abagore, abagabo bose bari imbere y'ahantu hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Imbere y'iyo nzu hakaba hari ubusitani bwiza bw'ibyatsi ndetse hakaba n'amatara ari kuhamurika.

Icyapa kinini kimanitse hejuru kigaragaza ko aho hantu hakorerwa ubucuruzi bw'inzoga, kiri imbere y'inzu isize irangi ry'umweru ifite umuryango munini ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hari gutambuka umuntu uri gusunika igare, umuntu w'umugabo ndetse n'abandi bagabo babiri bahagaze mu muryango w'iyo nzu.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri ahagenewe kubika mu kabati, ndetse na televiziyo manitse ku gikuta k'inzu.

Inzoga iri mu icupa ryabugenewe, ndetse n'ikirahure kirimo inzoga y'urufuro, n'ibirahure bibiri bireberwaho amashusho. Iyo nzoga ikaba ari nzoga ikozwe mu ngano ndetse n'umusemburo.

Umukobwa w'inzobe uri guseka ufashe agakoresho bakoresha bishyuriraho amafaranga, ndetse n'agakarita bakoresha bishyura ayo mafaranga, akaba ahagaze ahantu harimo inzoga z'ubwoko bugiye butandukanye bwinshi.

Aho banywera inzoga harimo abantu benshi bicaye ku ntebe batandukanye harimo umukobwa ndetse n'abagabo hakaba hari inzoga z'ubwoko bwinshi butandukanye n'intebe zikoze mu bwoko butandukanye.

Akabati karimo ubwoko bw'inzoga butandukanye, inzoga akaba ari ikinyobwa gikundwa n'abantu benshi, n'ubwo harimo n'abatagikunda kuko gisindisha, ariko ntabwo twakwirengagiza ko ar ikinyobwa gikundwa muri rusange.

Icupa ry'inzoga riteretse ku meza ndetse n'ikirahure kirimo inzoga byose biteretse ku meza, inzoga ni ikinyobwa gikundwa n'abantu benshi kubera uburyohe bwacyo ariko hakaba hariho n'abandi batagikunda bagishinja ko kitaryoha ndetse ko kinahenze.

Icyapa kinini cy'umuhondo kiriho icupa rinini cyane ry'inzoga ndetse n'abantu, bigaragara ko bari kubyina bishimye, icyapa giteye imbere y'inzu nini cyane yubakishije amatafari ahiye y'igorofa ndetse n'akazu gato byegeranye kubabakishije imbaho.

Inzoga ziteretse ku meza, imwe iri mu kirahure cyayo ndetse n'indi ikiri mu cupa, hakaba hari n'abantu bari kuzinywa, umugore umwe wambaye umupira w'umweru afite imisatsi iboshye ndetse n'icyapa kiriho uburyo bwo kwishyura amafaranga hakoresheje ikoranabuhanga.

Umukobwa wicaye wenyine afashe telefone mu ntoki, akaba yambaye impeta ku rutoki akaba ari ahantu hari ibara ry'umutuku ryiganje cyane.

Ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo inzoga, biteretse aho byagenewe guterekwa. Inyuma y'ibyo kunywa hakaba hari umuntu.

Ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, byiganjemo inzoga, ndetse n'icyuma cyifashisha mu kukonjesha ibinyobwa, cyane cyane inzoga. Ndetse n'imitobe.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe nziza zikoze mu imbaho bakaba bari kureba umukino w'umupira w'amaguru, bawurebera kuri televiziyo.

Icyumba kinini kirimo urumuri rukeya, cyicayemo abantu. Imbere yabo hakaba hari ubwoko bw'inzoga butandukanye, abo bantu bakaba bagaragara nk'abari kunywa izo nzoga.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri mu kabati ndetse n'umuntu urimo imbere uri gusuka inzoga imwe mu icupa, akaba yambaye ishati y'umukara ndetse kandi akaba ari umugabo.

Ibiribwa bikoze munyama biri kw' isahane ikoze mugiti ndetse n'agakombe gakoze mucyumba bikaba biri imbere yumugabo wambaye ishati yubururu, ndetse akaba afite nikirahure k' inzoga cyuzuye ,inzoga ifite urufuro ryinshi.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye buri ahabugenewe ndetse n'icyuma kibikwamo inzoga mu rwego rwo kuzikonjesha. Imbere yaho hakaba hari abantu bahahagaze b'abagabo, umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'undi wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara na none. Hakaba hari intebe zitandukanye, bigaragara ko hanyobwa inzoga.

Ibikombe birebire byagenewe kujyamo inzoga, biteretse ku meza afite ibara ry'igitaka ndetse ibiganza by'umuntu nabyo biri ku meza.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba kinini kigaragara ko ariho banywera inzoga, harimo abagabo, abagore n'urumuri rukeya cyane.

Aho banywera inzoga, hari ubwoko bwinshi bw'inzoga butandukanye, ndetse n'abantu hari kwaka amatara meza yatumye hagaragara neza, ndetse na televiziyo ebyiri zimanitse hejuru abantu bareberaho amashusho.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye, bupanze ahantu mu buryo bwiza cyane, ndetse hakaba hari n'intebe z'ubwoko butandakanye, intebe nyinshi cyane zipanze ahantu ku meza, bigaragara ko hakorerwa igikorwa cy'ubucuruzi bw'inzoga.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye, ndetse n'ubwoko bw'ibinyobwa bidasindisha bitandukanye, byose biri mu kabati kamwe, ndetse n'izindi nzoga ziri mu bikurete byagenewe gutwarwamo amacupa y'inzoga, biteretse hasi, bigerekeranyije.

umukozi w'umugabo ufite umusatsi mwinshi w'umukara akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'isaha kukaboko akaba arimo gukora ikinyobwa gikoze mu ikawa akaba arimo aragisuka mu gikombe gikoze mu cyuma cy'umweru

Ahantu banywera inzoga harimo intebe z'ubwoko butandukanye, ndetse inzoga z'ubwoko butandukanye, hakaba harimo n'abantu benshi, umwe muri bo akaba ahagaze yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'ibirabyo iciye amaboko.

Aho banywera amayoga hari abantu benshi batandukanye urumuri rukeya cyane ndetse n'icyuma gikonjesha ibyo kunywa cyane cyane inzoga n'ibinyobwa bidasembuye. Ku meza aho abantu bahagaze hari mudasobwa ikoreshwa mu kubara no kwishyura amafaranga.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye buri mukabati kagenewe kubikwamo inzoga ndetse hakaba hari n'icyuma cyagenewe gushyirwamo ibinyobwa bishakwa ko bikonjeshwa, imbere hakaba hari ururabyo rwiza rw'umweru ruteretse kumeza imbere y'inzoga ndetse n'umuntu wicaye imbere yayo meza afite ikirahure cy'inzoga.

Ubwoko butandukanye bw'ibinyobwa buteretse ku meza ndetse, n'abantu bicaye imbere y'ameza, bari kunywa. Ahantu bari ni ahantu hasanzwe hahurirwa cyangwa hafatirwa ibyo kunywa.

Umugore wambaye ikote rya kaki ufashe telefone mu ntoki, akaba afite imisatsi myiza ndetse inyuma ye hakaba hari ibirabyo byiza cyane, biri mu mabara y'umutuku n'umuhondo n'icyatsi kibisi ndetse imbere ye hakaba hari ameza.

Ibicuruzwa bitandukanye byinshi byiganjemo ibinyobwa by'inzoga ndetse abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambaye umupira w'umukara, bigaragara ko hano hantu ariho banywera inzoga.

Amacupa y'ubwoko butandukanye ataretse mu byuma bikonjesha ndetse n'ateretse ku meza, hamwe n'ibirahure birimo inzoga zitandukanye. Inzoga ni ubwoko bw'ibinyobwa abantu banywa, nubwo bisindisha, ariko abantu barabikunda cyane.

Abakobwa babiri umwe afashe agakarita kifashishwa mu kwishyura hakoresheje ikoranabuhanga ndetse n'undi ufashe ako kuma gakoresha iyo karita kugira ngo amafaranga abe yava ku muntu umwe age kuwundi hakoreshejwe iyo karita ndetse n'ako kuma.

Abantu batatu harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bose bakaba bambaye amashati y'umweru, ndabutse n'abagore bafite utundi dutambaro tw'umukara mu ijosi, bose bakaba bagaragara ko bishimye bakaba bahagaze imbere y'ahantu hamanitse amacupa y'inzoga nyinshi cyane zitandukanye, bigaragara ko aho hantu bari ari ahantu hakorerwa igikorwa cyo kunywa inzoga.

Inzoga zitandukanye ziteretse mu tubati twagenewe kujyamo inzoga, ndetse hamwe n'icyuma cyagenewe gukonjesha ibinyobwa by'umwihariko inzoga.

Abantu benshi batandukanye bari ahantu bari kubyina bigaragara ko bishimye ubuzima bari kunywa inzoga z'ubwoko butandukanye aba bantu harimo abagabo, abakobwa ndeste n'abasore bakiri batoya.

Aho bafatira ibyo kunywa byiganjemo inzoga hari abantu benshi batandukanye hakaba harimo umwe uri kuzicuruza wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'amaboko maremare irimo ibara ry'umweru .

Icyapa kinini kiriho icupa rinini ry'inzoga ndetse inyuma y'iryo cupa hakaba hariho amashusho y'abantu bigaragara ko bishimye banezerewe bari mu byishimo. Icyapa giteye hafi y'umuhanda wa kaburimbo iruhande rw'inzira y'abagenzi.

Inzu nziza ifite inguni nyinshi, ikaba irimo ibinyobwa byinshi bitandukanye by'ubwoko butandukanye, ibinyobwa byiganjemo inzoga, imbere ahari inzoga hakaba hari icyuma gifasha gukonjesha inzoga; ndetse hari n'umuntu uri kuzicuruza, imbere ye hakaba hahagaze undi muntu wambaye ipantaro ari iruhande rw'intebe.

Umuntu w'umugabo uhagaze imbere y'ahantu hari kwaka amatara, akaba ahagaze mu bandi bantu benshi, akaba yambaye ishati ya kacyi n'ingofero y'umukara.

Inzu irimo ubwoko butandukanye bw'inzoga ndetse n'abantu batandukanye, buri wese yicaye mu buryo bwe abagabo n'abagore ndetse n'intebe z'ubwoko butandukanye.

Umusore ufashe icupa ry'amazi mu ntoki, imbere ye hari igikombe k'icyatsi kibisi ndetse n'ikindi giteretse ku meza gikoze mu cyuma, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare.

Akabati karimo ubwoko bw'inzoga butandukanye, inzoga rero akaba ari ikinyobwa abantu bakunda cyane kuko ni ikinyobwa kiryoha, cyane cyane abantu bakuru akaba aribo bemerewe kukinywa kuko aribo kitagiraho ingaruka mu buzima busanzwe.

Urusisiro rw'ibisenge by'inzu zitandukanye ariko zicucitse cyane, hejuru y'ibisenge hari ibyapa byamamaza ao banywera inzoga, hakurya y'aho hari amazu maremare yubatse nk'amagorofa, hagati y'amazu harimo ibiti byiza.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye, bumanitse ahantu hejuru ku kabati ndetse n'ameza meza n'intebe z'ubwoko butandukanye, bigaragara ko aha hantu ari aho banywera inzoga zitandukanye. Inzoga, ikinyobwa gikundwa n'abatari bake nubwo abenshi bacyanga bavuga ko gisindisha.

Icyapa kinini cyane, kiriho ishusho y'icupa ririmo inzoga ndetse n'abantu bari kubyina ndetse n'ikirahuri kirimo inzoga ifite urufuro, inzoga ifite ishusho y'umuhondo. Inzoga akaba ari ikinyobwa banywa gisindisha ariko abantu benshi bakaba bagikunda.

Umuhanda mwiza uringaniye, ukoreshejwe amabuye aconze neza, hakaba harikugendaho ipiki piki ihetse abantu babairi harimo umwe ayitwaye, ndetse nundi muntu urikugenda namaguru imbereye haparitse imodoka, ndetse igare ndetse nindi pikipiki, iruhande rwahantu banywera ibyo kunywa byiganjemo inzoga.

Umusore urimo uragenda mu muhanda w'amabuye yerekeza ahari umutaka wa emutiyene. Hari icyapa cy'inzoga ya mitsingi ahantu muri parikingi bigaragara ko ari utubari twinshi cyane, ndabona bacuruza n'ibyo kurya abenshi bakunda kwita piza.

Abantu bicaye mu ruriro aho bari gusangira ibiribwa, harimo umugabo umwe wambaye ikoti ry'umukara, ari kuganira n'umugore wicaye imbere ye ariko umugabo we arahagaze, inyuma ye hakaba hari abantu, bakaba bicaye mu ntebe zikoze neza mu buryo bwa kera ndetse n'ameza akoze mu mbaho.

Abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umutuku undi wicaye ari kunywa inzoga, amacupa menshi y'ubwoko bw'inzoga butandukanye ndetse na televiziyo iri kugaragaraho amashusho.

Ubwokobw'inzoga butandukanye buteretse ku meza mu macupa yagenewe kugendamo inzoga, ahantu hari urumuri rukeya ndetse hakaba n'izindi nzoga zisutse mu birahure byagenewe kunywebwamo inzoga.

Imeza ndende ikoze mu buryo bw'ikizeru, ikaba iri hagati y'intebe ebyiri ndende z'umukara, ziteretse mu nguni y'inzu yubakishije amatafari ahiye, hagati y'imiryango ibiri.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziteretse ahabugenewe ndetse n'abantu babiri bicaye ku ntebe ndende, bari kureba ahari inzoga ndetse hari na televiziyo irimo amashusho abantu bari kureba b'abagore babiri bicaye kuri izo ntebe.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri ahagenewe kubikwa inzoga, umugabo uhagaze imbere y'izo nzoga ufite agakombe gato k'umweru mu ntoki akaba yambaye umupira w'amaboko maremare y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Icyapa kiriho uko ibicuruzwa bigiye bigura n'amafaranga bigiye bigurwa aho hantu cyane cyane ibiciro by'inzoga n'amoko y'inzoga agiye atandukanye.

Intebe n'ameza byinshi bikozwe mu biti ndetse n'ibyuma bibiri bikoreshwa hakonjeshwa ibinyobwa ibinyobwa cyane cyane inzoga n'imitobe bikaba biri mu nzu yubakishije amatafari ahiye.

Umukobwa uhagaze imbere y' umuryango hari igipupe cyambaye umupira utukura bigaragare ko aho hantu bacuruza imipira n' imyenda y' ubwoko bwose, hejuru hari icyapa cy' akabari banyweramo ibyo kunywa biryoshye bituma abantu basusuruka.

Abantu benshi bicaye ku meza akoze mu biti, bari kunywa ndetse no gufata amafunguro ahabigenewe, hari abantu benshi benshi batandunkanye.

Inzu nziza cyane igaragara ko banyweramo inzoga z'ubwoko butandukanye, ndetse n'icyapa kiriho inzoga nini cyane iri hafi n'ikirahuri, bigaragara ko kirimo inzoga ndetse n'urufuro.

Imodoka nziza y'umweru iparitse imbere yaho bankwera inzoga hari n'icyapa kiriho icupa rinini ry'inzoga, inzoga akaba ari ikinyobwa kiza gikundwa n'abantu bensahi n'ubwo gisindisha ariko kikaba gikundwa n'abantu benshi muri rusange.

Inzu yubakishije ibiti byinshi cyane ikaba irimo intebe nini, nazo zikoze mu biti by'umukara. Ikaba arimo ameza ateguweho ibitambaro birimo amabara atandukanye yiganjemo umukara.

Ikirahure cy'inzoga giteretse ku meza, kikaba kirimo n'inzoga. Imeza iriho amataratara. Iruhande rwaho hakaba hari abagabo bicaye ku ntebe, ndetse na bo bari kunywa inzoga, harimo umwe uri kubahereza icyo kunywa, ahantu heza hari indabyo, munsi y'ibiti.

Inzu yubakishije ibiti, irimo inzoga z'ubwoko butandukanye ndetse n'abantu bicaye ku meza, imbere y'aho inzoha ziri. Intebe ndende cyane, na zo zikoze mu biti.

Abantu benshi bari ku meza, bicaye impande z'ameza, aho bari gufata ibyo kunywa byiganjemo inzoga, harimo abagore n'abagabo ndetse bari no kureba amashusho kuri televiziyo.

Imeze y'ikizeru ikozwe mu rubaho teretseho inzoga zifunguye, ndetse n'ibirahure bisutsemo inzoga. Inyuma yaho hari ibiti byiza by'indabyo bigaragara neza.

Umuntu w'igitsina gore ufashe telefoni mu ntoki y'umukara, akaba yambaye akagofero k'umweru mu mutwe, akaba ahagaze imbere y'ahantu hari ubwoko bw'inzoga bwinshi butandukanye, akaba agaragara nk'aho ari we ucuruza izo nzoga.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abagabo, bari ahantu hanywebwa inzoga. Inzoga z'ubwoko zitandukanye ziri hejuru ahagenewe kubikwa inzoga. Amatara makeya ndetse n'urumuri rukeya bigaragara ko ari nijoro.

Aho banywera inzoga hakaba hari ubwoko bwinshi buyiye butandukanye, hakaba ameza ateretse inzoga irimo inzoga nyinshi. Inzoga ni ikinyobwa abantu bakunda nubwo harimo bamwe batacyanga bavuga ko gisindisha.

Umukobwa wambaye imyenda y'imikara ufite imisatsi miremire y'umuhondo, uhagaze imbere y'icupa ry'inzoga, abagabo barimo imbere ahantu hacururizwa inzoga, ahantu hari ubwoko bw'inzoga butandukanye, mu nzu ikoreshejwe imbaho mo imbere.

Icyapa kinini cyane cyamamaza inzoga kiriho icupa ry' inzoga rinini cyane ndetse n' ikirahure kirimo inzoga y' umuhondo imbere y' icyo cyapa hakaba hari ibiti by' imikindo ndetse n' indabyo zisa neza. Inyuma y' icyapa hakaba hari inzu y' igorofa nini isize amarange y' ikigina

Umugabo w'inzobe wicaye mu kabari, yambaye ishati y'umweru izinze y'amaboko maremare ndetse n'akandi gashati k'amaboko k'umuhondo, akaba yicaye inyuma ahantu hari inzoga nyinshi ndetse imbere ye hakaba hari intebe z'umuhondo ndende cyane ndetse n'amatara hejuru ye arikwaka.

Ahantu heza hari intebe ndende z'umukara ziteretse imbere y'ahantu banywera, ahantu hari amatara meza y'umuhondo, ndetse hasize n'amabara y'umweru hejuru.

Icyapa kimanitse hejuru y'ahantu banywera inzoga, icyapa kiriho amashusho y'abantu bane bishimye cyane, imbere hakaba hari ishusho y'icupa rinini cyane, ririmo inzoga ikoze mu ingano.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi uhagaze ahantu hari ubwoko bw'inzoga butandukanye kandi bikonjesha ndetse inyuma ye hakaba hari ubwoko bw'intebe bwinshi butandukanye bigaragara ko aha hantu ari aho banywera inzoga.

Amacupa y'ubwoko bw'inzoga butandukanye ndetse n'icyuma bashyiramo inzoga bagira ngo bazikonjeshe imbere hari amatara meza agezweho ya kijyambere, ndetse n'ubwoko bw'intebe butandukanye, abantu bari kunywa inzoga bicaraho.

Isahani iriho ibiribwa ikaba iteretse ku meza ,ayo meza akaba ariho ni birahure birimo inzoga ,buri mubwoko bw'ibinyobwa ndetse n'ikindi gicupa kirimo inzoga ndetse nutundi ducupa turimo udutambaro two kwihanagura mugihe waba umaze gufata ifunguro.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri mu kabati ndetse n'izindi ziri mu bikurete byagenewe gutwarwamo inzoga n'intebe abanywa inzoga baba bicayeho n'imiheha bakoresha banywa iinyobwa bidasembuye.

Inzoga z'ubwoko butandukanye zibitse ahagenewe kubikwa inzoga, imbere y'izo nzoga hakaba hari icyuma cyifashishwa mu gukonjesha inzoga ndetse n'indi mitobe itandukanye; imbere yaho hakaba hari ameza n'intebe abantu bicaraho bari kunywa izo nzoga.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye, imbere y'izo nzoga hahagaze umuntu wambaye ishati y'umukara, akaba ari umugabo, imbere ye na we hakaba hari ubwoko bw'intebe butandukanye, bigaragara ko hano hantu ari ahantu banywera inzoga. Inzoga ni ikonyobwa cyiza abantu bakunda n'ubwo gisindisha ariko abantu baragikunda cyane.

Ipikipiki itwaye abantu babiri, bambaye ingofero zagenewe kwambarwa n'abari kw'ipikipiki ,ziri mu mabara y'umutuku, imbere y'ipikipiki hakaba haparitse imodoka imwe y'umukara indi y'umweru nindi y'umukara. Hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru kiriho n'icupa rinini n'ikirahure by'inzoga.

Aho banywera inzoga zitandukanye, hakaba hari intebe abanywa inzoga baba bicayeho ndetse n'ameza n'abantu bacyeya.

Abantu benshi bari aho banywera inzoga, bakaba bicaye ku ntebe mu buryo bw'akajagari ndetse hakaba hari n'ubwoko bwinshi butandukanye bw'inzoga cyane, bigaragara ko bari bahicaye ari n'ijoro.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri ahagenewe ku bikwa inzoga mu kabati ndetse ameza akoze mu rubaho imbere y'intebe, intebe iriho umupira uyikikije umupira uri mu ibara ry'umweru.

Icyapa kinini kiriho ishusho y'umusore ndetse n'umukobwa bari kubyina bishimye kikaba ari i8cyapa cyamamaza ahari ibinyobwa, byiganjemo inzoga, dore ko icyapa kiriho icupa rini i cyane, kigaragaza ko hari inzoga ikonje.

Umuntu wambaye ishati y'umweru ufite imisatsi miremire y'umukara, uhagaze imbere ya hantu hari inzoga z'ubwoko bwinshi butandukanye, inzoga zikundwa n'abantu benshi batandukanye nubwo harimo na bake batazikunda, bavuga ko zihenda, zisindisha kandi zitanaryoha.

Abantu benshi batandukanye bigaragara ko bishimye bizihiwe bari kunywa inzoga, higanjemo abagore, abakobwa ndetse n'abagabo bakaba bari kurebera umukino w'amaguru uri kureberwa kuri televiziyo nini ya rutura, inzoga ni ikinyobwa cyiza cyane abantu benshi bakunda.

Utudomoro duto twinshi tw'umweru duteretse ahantu hasi, hakoresheje isuku n'amakaro meza y'umweru. Utudomoro dushobora kwifashishwa mu gutwara amazi amata se cyangwa ibindi bintu byiganjemo ibisukika.

Icyuma baguriraho amata akiri umwimerere. Amata ni ikinyobwa cyiza, gituruka ku nka, akaba afasha abantu bose, baba abato, abakuru, abasheshe akanguhe, mu buryo bwo kugira ubuzima bwiza.

Isahani y'umweru iriho ibiryo ndetse n'abantu babiri bicaye ku meza barimo barasangira, umwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'amaboko maremare n'undi yambaye umupira mugufi w'ikigina, hari n'igikombe cy'umweru cy'kirahure.

Ibyansi bibiri, biteretse hejuru y'akabati, munsi y'akabati hakaba harimo amacupa mato atandukanye, y'amazi, ateretse hafi y'agapfunyika gakoze mu bikarito. Ibyansi akaba ari ibikombe bito, bibajwe mu biti, byifashishwa mu kunywa amata.

Inzu ikorerwamo ubucuri bw'amata y'inyange, amata y'inyange ndetse n'agakarito karimo amata ateretse hanze ndetse n'icyuma bashyiramo amata kugirango akonje. Amata n'ikinyobwa cyiza gikundwa n'abana ndetse n'abantu muri rusange ariko cyiza.

Abantu bari kunywa amata bicaye kumeza, barikunywesha amata ibikombe by'ibirahure, ndetse amata bari kunywa akaba ari mub'ikombe biri kumeza, ibikombe by'umweru, ameza akaba ateguyeho igitambaro cy'umweru, bicaye muntebe z'umweru, harimo abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe.

Icyumba gicururizwamo amata, kirimo amakarito arimo amata y'inyange ndetse n'akabati karimo ibindi bicuruzwa karimo indobo irimo y'amandazi, ndetse nutundi dupaki tw'amata, ndetse nuducupa dutoya turimo imitobe ndetse nakadomoro gatoya karimo amata.

Umubyeyi wumugore ukuze wambaye ishati irimo amabara yumutuku ndetse n'umuhondo afite imisatsi iboshye, afite imbere ye igikombe kirimo amata, akaba yicaye ndetse n'ameza ariho igitambaro kirimo amabara'umuhondo n'umukara iruhande rwe hari icyuma gishyirwa mu ibinyobwa kugirango bikonge.

Ibicuba byinshi cyane biteretse ku makaro akaba ari ibikombe binini byifashishwa mu gutwara amata bayavana ahantu hamwe bayajyana ahandi.

Ibicuruzwa bitandukanye byinshi bifitanye isano n'amata harimo amata yo kunkwa amavuta yo kwisiga ndetse n'ibiryohera bikozwe mumata ndetse n'amatunda.

Umuntu wambaye umwenda w'umweru ndetse akaba yicaye imbere y'imodoka aho ari kuvoma amata mu kabido k'umweru ayakura mu kigega ndetse aya mata akaba ari ay'inyange.

Agapfunyika karimo imigati ndetse ako gapfunyika kaba kateretse hejuru y'ikurete, ikurete itwarwamo amagi, imigati akaba ari ikiribwa cyiza kiba gikoze mu ngano nta kindi kintu cyongewemo, akabari rero ari ikiribwa gitera imbaraga cyane.

Agakombe gafashwe mu ntoki n'umuntu w'umugabo. Ako gakombe kakaba harimo ibiryohere bikoze mu nkeri ndetse n'amata. Ni ibiribwa cyangwa se ni ibinyobwa abana bakunda cyane, ndetse n'abantu bakuru bakunda, kuko biraryohera cyane; biba birimo isukari nyinshi.

Umugore wambaye imyenda y'ibirabyo y'ibitenge irimo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, akaba ahagaze imbere y'icyuma kibikwamo amata, icyuma gituma amata ataba yakangirika ndetse kikaba gifasha kubika amata mu gihe kirekire adahuye n'ibibazo ibyo aribyo byose.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara uhagaze imbere y'umwana w'umukobwa wambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'icyatsi kibisi ,nyuma yaho hakaba hari akabati karimo imitobe y'ubwoko butandukanye, ndetse hakaba hari icyuma kifashishwa mukubika cyangwa mugukonjesha amata.

Iguriro ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imitobe, harimo amata, harimo amasambusa arimo imigati ndetse n'abantu babiri, umuguzi n'umugurisha. Amasambusa ni ikiribwa cyiza gikoze mu ifarini ndetse n'inyama ziseye.

Akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo amagi, amata ndetse gateretseho indobo hejuru irimo capati. Hakurya ya kakabati hari akandi kabati karimo amazi, amata, imitobe ikoze mu mbuto. Capati akaba ari ibiribwa bikoze mu farini n'icyuma cy'amata kiri hakurya y'akabati.

Umubyeyi w'umumama ukuze wicaye ku ntebe ndetse akaba yambaye ishati idoze mu gitenge irimo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, akaba yicaye imbere y'icyuma babikamo cyangwa se bakonjesherezamo ibinyobwa, hakaba hari n'umukobwa wicaye mu ntebe y'ubururu impande y'ahantu hari ibinyobwa byiganjemo ibidasindisha.

Umukobwa mwiza uri gusuka amata ava mu kidomoro ashyira mubikombe by'ibirahure biteretse ku meza. Umukobwa mwiza wambaye agashati k'umkara.

Isahani nini iriho amandazi meza y'umuhondo, amandazi akaba ari ibiribwa byiza biba bikozwe mu ifarini ndetse n'amavuta. Ni ibiribwa abantu benshi bakunda kuko bibafasha guhaga ndetse kandi bikaba bitera n'imbaraga.

Icyapa cyamamaza ahantu bagurira amata y'inyange, inyange ikaba ari amata meza aryoha, abantu benshi bakaba bayakunda, hakaba hariho amata y'inyange ndetse n'imitobe y'inyange.

Umumama wicaye ku ntebe, imbere y'ameza, akaba imbere ye hari telefone ndetse n'igikombe kirimo amata, akaba ari hafi y'ahantu hari icyuma gikonjesha ibinyobwa bya soda.

Akabati karimo iibinyobwa bitandukanye, amazi ndetse n'imitobe ikoze mu mbuto zitandukanye, z'ubwoko butandukanye, amazi by'umwihariko, ni ikinyobwa kiza kigira akamaro ku mubiri w'umuntu uwo ariwe wese.

Umugabo n'umugore bari mu nzu, inzu irimo icyuma kibikwamo amata, umugabo wambaye umupira w'umutuku n'umugore wambaye ishati y'ibirabyo arikuvugira kuri telefoni, ahagaze imbere y'imeza iteretseho igikombe cy'ubururu ndetse n'umugabo uhagaze y'akabati karimo imitobe iri mu ducupa dutoya.

Capati nyinshi; capati ni ikiribwa gikunzwe n'abantu benshi batandukanye kikaba ari ikiribwa gikozwe mu ifarini, ikaba ikozwe mu ifarini bakaranze ku ipanu ikavamo ikitwa capati.

Ibidomoro bine bitwarwamo amazi yo mu bwoko bwa jibu, bikaba biteretse hagati y'icyuma gikonjesha, ndetse n'imuryango usohoka uriho urugi rusize amarange y'ubururu.

Icyuma gikonjesha kirimo amata, amata meza kandi aryoha ndetse hakaba hari umugore wambaye umupira w'umukara, yambaye isaha ku kuboko kwe kw'iburyo. Inyuma ye hakaba hari ibinyobwa byoroheje bidasindisha.

Igikombe cy'amata giteretse ku meza. ameza akoze mu rubaho, iruhande rw'ameza hakaba hari ikaramu, icyo gikombe na cyo gikoze mu kirahure, imbere y'igikombe hari umuntu ufashe umugati, umugati ufashwe n'ikiganza cy'umuntu.

Amacupa abiri akoreshwa mu kubika ibinyobwa mu gihe basha ka ko ibyo binyobwa bikunda cyangwa se bigumana ubushyuhe, biteretse ku meza ndetse hamwe n'aganduku karimo ibiribwa byitwa capati, capati akaba ari ibiribwa bikozwe mu ifarini, abantu bakaba bakunda kubinywesha icyayi.

Inzu ikozwe neza cyane, hifashishijwe amakaro, ikaba irimo icyuma cyijyamo amata gikozwe mu cyuma cyiza cy'umweru, amata cyikaba cyiyarinda kuba yakangirika cyangwa se akaba yahindura uburyo arimo akaba atavura akagumya akaba inshyushyu.

Abantu babiri b'abagabo, umwe w'umusaza, wambaye amataratara, umusore wambaye umupira w'icyatsi kibisi, akaba afashe akadomoro mu ntoki, imbere yabo hari indobo ebyiri zirimo amandazi ndetse n'inyuma hakaba hari akabati karimo ubudomoro butoya ndetse n'ikidomoro kinini, byose byifashishwa mu gutwara amata cyangwa amazi.

Ibicuba byinshi birimo amata biteretse hasi ndetse abagabo babiri bateruye igicuba kimwe bari gusuka amata, bayavana mu gicuba bayashyira mu mashini yagenewe kubika amata by'igihe kirekire.

Indobo irimo amandazi abiri n'umutozo wo kuyafata. Amandazi ni ikiribwa cyiza gikozwe mu ifarini. Bashyiramo amata n'isukari kugira ngo kiryohere abantu kinabagireho intungamubiri ku mubiri wabo. Kiraryoshye mwese muzakirye.

Umukobwa wambaye umupira ufite amabara y'icyatsi, akaba ari gusuka amata mu kadomoro gato k'umweru, akoresheje igikombe kinini cy'icyatsi ndetse n'umubirikira w'icyatsi cy'ikirere.

Abantu batatu bicaye ku meza bari kunywa amata mu bikombe by'ibirahure, harimo abakobwa babairi n'umuhungu umwe bicaye ku ntebe nz'umweru ndetse n'ameza ariho igitambaro kiriho ibara ry'umutuku.

Akabido gatoya k'umweru karimo amata, amata ni ikinyobwa cyiza gikomoka ku bworozi bw'inka, akaba ari ikinyobwa gikenerwa n'abana, abakuru ndetse n'abasheshe akanguhe, kuko bose kibagirira akamaro k'ubuzima.

Icyuma kiifashishwa mu kubika amata kugira ngo amare igihe kirekire atangiritse cyangwa se ngo abe yapfa cyangwa abe yakandura, imbere y'icyuma kifashishwa mu kubika amata hakaba hariho intebe ndetse n'ameza akoze mu rubaho.

Umwana muto cyane ufashe agaterefone mu ntoki inyuma yiwe hari igicuba gitwarwamo amata bayavana ku ikusanyirizo bayajyana aho agomba kubikwa, inyuma ye kandi hari abandi bantu babiri bambaye udushati dutoya turi mu mabara y'umutuku.

Igiti gifite amababi meza giteye mu mbuga itarimo ibyatsi umuntu uhagaze imbere y'ameza ariho ikibido cy'umuhondo kirimo amata ndetse n'undi muntu w'umugore uri gusuka amata ayavana mu ndobo ayashyira mu kadobo gatoya.

Igikombe gikoze mu kirahure cyuzuyemo amata y'inshushyu. Amata ni ikinyobwa kiza gituruka ku mukamo w'inka kikaba gifasha mu mikurire, cyane cyane y'abana ndetse, n'abantu bakuru bakaba bakunda kuyanywa kuko aryoha cyane.

Umuntu ufashe irindazi mu ntoki yifashishije agapapuro, kabigenewe irindazi rikaba rishobora gutuma umuntu yica isari, cyane ko rimenyewe kumara cyangwa gutera imbaraga.

Udukombe tw'ingano zitandukanye zitandukanye turimo ibiryohera bikozwe mu mata ndetse no mu nkeri, ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'utujerekani tunini turimo amata.

Umukobwa muto uhagaze imbere y'umugabo wambaye ishati ya kaki. Igicuba kirimo amata, igikombe giteretse ku meza akoze mu cyuma; igikombe gikoreshwa badaha amata. Igicuba n'igikoresho gitoya gikoreshwa batwara amata, bayavana ahantu hamwe bayajyana ahandi.

Ikiganza cy'umuntu gifashe igikombe cy'umweru kirimo amata, ndetse n'isahane iriho amabenya abiri, ndetse biteretse ku meza, imbere y'ameza hakaba hari amaguru y'umuntu wambaye ipantaro y'umuhondo.

Umubyeyi w'umugore ukuze wambaye ishati irimo amabara y'umuhondo n'umutuku, akaba yicaye mu ntebe ya purasitike hafi y'icyuma gifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa n'ibiribwa ndetse akaba imbere ye hari amata ari mu gikombe ndetse n'amandazi ari ku isahani. Amandazi ni ibiribwa bikozwe mu ifariini n'amavuta biryoha cyane.

Ikiganza cy'umuntu gifashe igikombe, kunyweramo amata, igikombe gikoze mu kirahure ndetse n'undi muntu w'umugabo wicaye nawe uri kunywa amata mu gikombe cy'ikirahuri, ameza y'umweru impande zabo hari abandi bantu nabo bari kunywa amata batandukanye.

Icyuma kifashishwa mukubika amata ngo atangirika ndetse n'ikindi cyuma kijyamo ibinyobwa kugirango bigumane ubukonje cyangwa se ubukonje bw'iyonjyere. Umugore uri gufata amandazi mundobo imbere y'ameza , ndetse ameza n'intebe z'umweru, akabati karimo utudomoro duto ndetse ni kidomoro kinini kiri mu mabara y'umuhondo.

Icyapa gikoze mu ibara ry'ubururu kiriho ubwoko butandukanye bw'ibicuruzwa bikorwa n'uruganda rw'Inyange. Harimo amata, amazi, ibinyobwa bitandukanye cyane cyane ibituruka ku mbuto ndetse n'ibikomoka ku mata.

Icyapa cy'amata ya Nyanza, hari agakarito karimo amata ya Nyanza, hakaba agakombe, hakabaho akabido gato, n'akabido kanini, icyapa kirasa ubururu.

Ibiribwa bikundwa n'abantu benshi bikozwe mu isambuza bikaba bifite ibara ry'umuhondo ndetse bikaba bikoze mu ishusho ya mpande eshatu bikaba bikozwe mu ifarini ndetse n'inyama.

Amacupa y'amazi manini amazi meza yo kunywa ateretse mu kabati iruhande rw'igikarito aba apakiyemo, amazi ni ingenzi mu buzima.

Ibidomoro bibiri biteretse mu kabati, akabati gakozwe mu mbaho kakaba gasa ikigina ibyo bidomoro bikaba ari umweru akaba ari ibidomoro byifashishwa mu gutwara amata bayavana ku ikusanyirizo rimwe bayajyana ahandi ari bukoreshwe.

Akadomoro gato k'umweru karimo amata, amata ni ikinyobwa kiza gikomoka ku nka, akaba anywebwa n'abantu mu buryo butandukanye, haba mu buryo bwo kuyakoramo igikoma, kuyanywa akiva mu nka, uko yaba ari kose agira akamaro ku muntu.

Umugore uhagaze mu cyumba kinini gifite umuryango munini ureba hanze, ahagaze imbere y'ameza ateretseho akadomoro k'umweru n'intebe ikoze mu rubaho, inyuma y'intebe hari ikigega kinini kijyamo amazi cyangwa se amata.

Inzu nziza cyane ifite igisenge kirekire kiri mu mabara y'umutuku, imbere hakaba hari akazu gato kariho icyapa kiriho ubwoko bw'amata atandukanye cyane cyane y'i Nyanza afunze muburyo butandukanye, imbere yako kazu hakaba haparitse ipikipiki iri mu mabara y'umutuku ndetse n'imitaka y'umuhondo.

Udukarito dutoduto dutandukanye, turimo amata y'ubwoko butandukanye, ndetse n'udukombe turimo ibiryoherera bikozwe mu mata, ndetse no mu mbuto, n'utudomoro dutandukanye, na two turimo amata.

Icyuma cyifashishwa mu kubika amata by'igihe kirekire kugira ngo atandura cyangwa se akaba yakwandura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hakaba hari ibidomoro byinshi byafashishwa mu gutwara amazi n'ibindi birimo amata.

Inzu nziza iriho icyapa kigaragaza ko aho hantu hagurishirizwa amata y'inyange imbere y'inzu hariho intebe ndetse n'ameza y'umweru imbere mu nzu harimo ameza ari akoze mu mbaho.

Umuntu w'umugabo uri gusuka amata mu kigega cyagenewe kubikwamo amata akoresheje igicuba, igicuba ni ikigega gito gikoreshwa mu gutwara amata bayavana ahantu hamwe bayajyana ahandi mu buryo bworoshye, wakoresha intoki cyangwa se bakoresheje igare.

Amabenya cyangwa se amandazi meza cyane asa neza, ibingibi rero bikaba ari ibiribwa biba bikoze mu ifarini n'amavuta, bakaba bashyiramo n'umusemburo cyangwa se igitubura kugira ngo birusheho kuryoha, Ni ibiribwa rero bikundwa n'abantu benshi cyane

Abana babiri bicaye ku meza bari gufata amafunguro higanjemo amata ndetse n'umugati, ameza bicayeho ateretseho ubudomoro bubiri burimo amata ndetse n'igicuba gitoya, ndetse imbere yabo hakaba hahagaze umugabo mukuru wambaye umupira w'umweru.

udukarito twinshi turimo amata y'ubwoko bwa Mukamira, imbere y'utwo dukarito hakaba hari umukobwa wambaye umupira w'ubururu inyuma ye hakaba hari icyuma cyagenewe gukonjesha amata, inyuma yabo hakaba hari ibyatsi byiza bitoshye cyane.

Umugore n'umugabo, umugore uhagaze wambaye ijipo y'umweru irimo amabara y'umukara yambaye n'agashati k'umukara, umugabo wambaye imyenda y'umukara n'agapira k'umukara afashe telefone mu ntoki, bakaba bari imbere y'icyuma kibikwamo amata, imbere yabo hakaba hari ibinyobwa bitandukanye bikozwe mu mbuto.

Icyuma kifashishwa mu kubika amata kugira ngo amare igihe kirekire adapfuye kikaba kiri iruhande rw'ahantu hari akabati karimo amazi y'ubwoko butandukanye yo kunyobwa ndetse n'ikindi cyuma kifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa birimo imitobe ndetse n'amata iyo bibaye ngombwa.

Abantu batatu bahagaze begeranye, umukobwa n'abagabo babiri umukobwa wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara umugabo umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara undi yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu ndetse n'ingofero y'umukara. Bombi bakaba bafashe udukombe turimo ibiryohera bikaba bikoze mumata ndetse n'inyeri.

Ibikurete birimo uducupa duto cyane dutwarwamo ibiryohera bikozwe mu mata ndetse n'amatunda. Ndetse hakaba akabati karimo utudomoro duto twinshi cyane tw'umweru turimo amata.

Isahani y'umweru iteretse ku meza ameza arambuyeho igitambaro, iyi sahani ikaba ari umweru ikaba iriho ibenyi, ibenyi kikaba ari ikiribwa kiza kiryoha cyane kikaba kiba gikoze mu ifarini.

Icyuma kifashishwa mu kubika amata mu kugira ngo atangirika abe yamara igihe kirekire hakurya y'icyuma kibika amata hari ibidomoro bibiri nabyo bikoreshwa mu gutwara amata.

Amabenye asa neza y' umutuku. Amabenye ni ubwoko bw' ibiribwa bukonzwe mu ifarini, umunyu ndetse cyangwa se isukari. Bukaba ari ubwoko bw' ibiribwa bukundwa kwitwa amandazi, akaba ari ibiribwa abantu benshi bakunda cyane.

Agapfunyika gakoze mu gikarito, udupfunika tubiri dukoze mu gikatito, ndetse n'amacupa y'amazi menshi, atandukanye. Amazi ni ikinyobwa kiza kifashishwa mu mubiri, dore ko abahanga bavuga ko ubuzima butagira amazi butaramba.

Ukuboko k'umuntu gufashe capati nyinshi ndetse akaba ari hafi n'ameza y'umweru ndetse n'akabati k'amabara y'umweru, capati ni ikiribwa gikunzwe n'abantu benshi gikozwe mu ifarini ndetse bakaranga ku ipanu bifashishije amavuta.

Icyuma cyijyamo amata kugira ngo adasaza, icyuma cyiriho i ruhande rwacyo imeza ikoze mu rubaho iteretseho indobo irimo amandazi. Amandazi ni ibiribwa biba bikoze mu ifarini, hafi y'icyuma hari indi meza nanone y'umweru ifite amaguru y'umukara hari ndetse n'intebe z'umukara nyinshi.

Indobo irimo amabenya, amabenya akoze mu ifarine, ndetse iyo ndobo ikaba ari iy'umeru, iteretse hafi y'icyuma kibamo amata, icyuma gituma amata adapfa mu gihe icyo aricyo cyose wayabikamo.

Inzu irimo ibicuruzwa by'umwihariko ibikomoka ku mata ndetse n'icyapa kiri hejuru imbere y'inzu, icyapa cyanditsemo amagambo agaragaza ko aha hantu hacururizwa amata y'inyange; imbere y'inzu haparitse imodoka y'amabara y'umweru.

Umukobwa wambaye amaherena ufite imisatsi iboshye, umukobwa mwiza w'inzobe wambaye umupira w'imbeho, uri kureba mu ruhande rwe rw'iburyo. Akaba yashyize amaboko yombi ku meza, bigaragara ko yicaye mu nzu ikoreshejwe amakaro hasi.

Uduti duhanagura mu menyo, duteretse ku meza turi mu gakombe, ahantu mu nzu y'amatafari ahiye. Ayo meza arasa umweru kandi utwo duti na two turasa neza kandi dufasha abantu.

Umwana muto cyane ufashe agakombe karimo ibiryohera bikoze mu mata ndetse no mu mbuto z'ubwoko butandukanye higanjemo cyane cyane inkeri.

Icyuma gikonjesha ibiribwa n'ibinyobwa kikaba giufunguye, kikaba kirimo utivido ndetse n'udukombe, utuvido hakaba harimo amata, udukombe turimo ubusa, ndetse n'agacupa gatoya k'amazi.

Igikombe cy'amata giteretse ku meza, igikombe gikoze mu kirahure. Ameza akoze mu mabara y'umweru ndetse n'akabati karimo utundi dukoresho dutandukanye, akabati gakoze mu rubaho rw'umweru.

Abakobwa babiri bambaye imyenda y'imweru n'ingofero z'imweru bari ahacururizwa amata. Icyuma kibikwamo amata kiyarinda kwangirika kiri inyuma y'abo bakobwa babiri kikaba kiriho amarange y'ubururu.

Amashashi y'imikati, imikati ndetse n'amandazi akaba ari ibiribwa byiza bikunzwe gukoreshwa cyane cyane mu gitondo, kubera ni ibiribwa bitera imbaraga, bikaba bikoze mu ngano ndetse n'amavuta ndetse n'isukari.

Umukobwa uri gutambuka yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati y'umuhondo, afite agatambaro mu ijosi, ari imbere y'imodoka iparitse, imodoka nziza y'umweru, byombi bikaba bari imbere y'inzu nini cyane y'ubucuruzi, inzu irimo iguriro ry'imiti ndetse n'aho bagurira amata y'inyange.

Igicuba kirimo amata meza, intebe ikozwe mu mbaho ndetse n'umukobwa muto wambaye agakabutura ndetse n'agapira k'amaboko maremare k'umweru, akaba afashe telefoni mu ntoki. Imbere mu nzu, ikozwe n'amakaro, hasi ndetse no mu mpande.

Abantu bari imbere ya meza bafata amafunguro baseka cyane, harimo umugabo umwe wambaye ishati y'amaboko maremare ya karokaro ndetse n'umugore wicaye afite agatambaro mw'ijosi. Inyuma yabo hari undi muntu urikureba hanze acishije umutwe murugo rw'ubakishije ibyuma.

Ibyuma bibiri by'ubwoko butandukanye bikonjesha ibinyobwa ndetse n'uducupa tubiri tubikwamo ibinyobwa kugira ngo bigumane ubushyuhe, intebe ebyiri, iy'ubururu n'umweru ndetse n'umugabo ubihagaze imbere wambaye ishati ya karokaro, irimo amabara y'umweru n'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Ibigega bibiri bikozwe mu byuma, bikaba byifashishwa kubika amazi cyangwa se amata mu gihe badashaka ko yangirika.

Ibinyobwa by'amako atandukanye biri mu kabati, harimo ibyoroheje cyane, cyane cyane imitobe ndetse n'ibyongera imbaraga.

Urugi ruriho icyapa cy'amata y'inyange, icyapa cy'amata y'inyange kikaba kiriho inka. Inka igizwe n'amabara y'umweru n'umukara, amata y'inyange akaba ari amata meza akunzwe kandi meza cyane.

Amata afunze mu dukarito tw'ubwoko butandukanye, amazi ari mu ducupa ndetse n' akiri mu bikarito, ndetse n' ibyo kunywa biryohera bikozwe mu mbuto. Amandazi cyangwa se amabenya ari mu ndobo. Amandazi akaba ari ibiribwa bikozwe mu ifarini n' amavuta.

Icyuma kijyamo amata y'ubwoko bw'inyange kikaba kiriho amarangi y'umweru n'ubururu, hakaba hari ijerekani y'umweru ijyamo amata ndetse n'intebe ebyiri z'umweru.

Icyuma cyifashishwa mu kubika amata kugirango atangirika. Icyuma kandi kikaba gikoreshwa mu rwego rwo kugirango amata abe yabikwa igihe kirekire adahinduye uburyo ateyemo. Akaba atavura, akagumya kuba inshyushyu.

Abagore babiri bahagaze begeranye umwe yambaye umupira w'umukara undi yambaye ishati y'umweru, uwambaye umupira y'umukara ateruye agakarito gato mu ntoki, ndetse uwambaye ishati y'umweru ateruye igikarito kinini kirimo ibintu mu ntoki, bakaba bahagaze imbere y'icyuma kijyamo ibyo bashaka ko bakonjesha, kimwe kirimo amazi ikindi kirimo amata.

Umugabo wambaye umwenda w'umuhondo akaba atwaye amakurete arimo amagi y'ubwoko butandukanye.

Ikurete y'umukara iriho amagi ndetse n'agakombe gatoya karimo uduti twifashisha mu koza amenyo, mu gihe icyo ari cyo cyose amenyo yaba yagiyemo imyanda.

Ibiribwa byitwa isambusa bikaba bikoze mu ifarini, bikaba bikoze mu buryo bwa mpande eshatu, iyo farini mu imbere hakaba harimo inyama, bikaba bikundwa n'abantu benshi kubera uburyohe bwabyo.

Utudomora dutoya twinshi cyane tw'umweru dupanze m'utubati, utudomora ni ibikoresho bishobora kwifashishwa mugutwara amazi amata amavuta ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bisucyika.

Inzu icururizwamo ibikomoka ku mata, harimo icyuma kibika amata by'igi kirekire gituma atangirika, imbere y'icyuma hicaye umukobwa wambaye imyenda y'umukara, imbere y'inzu kandi haparitse imodoka ifite amarange y'umweru.

Ikigega cyangwa se icyuma kibikwamo amata, kikaba kirinda amata kuba yakwandura, kuba yakwanduzwa n'uburyo ubwo aribwo bwose bwaba ubuturutse hanze cyangwa se ubwaba buturuka mu cyo yaba yabitwsemo. Ni icyuma cyiza cyifashishwa mu kubika amata by'igihe kirekire.

Umugore wambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara, ndetse akaba yambaye n'ijipo y'umweru irimo amabara y'umukara, ahagaze imbere y'umuntu w'umugabo wicaye afashe terefone mu ntoki, bakaba bombi bari hafi y'icyuma kibikwamo amata kiyarinda kwangirika mu buryo ubwo aribwo bwose.

Abantu batatu bicaye ku meza, umugore umwe ndetse n'umugabo n'umusore. Umugore umwe wambaye umwenda w'umutuku w'ibirabyo, n'umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ingofero y'ubururu, n'umugabo wambaye umupira w'umweru, bose bicaye ku meza, imbere yaho hari igikombe cy'amata giteretse ku meza.

Umukobwa wambaye ishati ya karokaro igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umutuku, uri kudaha amata mu ndobo ayashyira mu gikombe cyagenewe kudahirwamo amata. Akaba ari kureba hanze, iyi nzu ari gukoreramo akaba ari guseka. Inyuma ye hakaba hari imashini yagenewe gushyirwamo amata kugira ngo akonje.

Ikiganza cy'umuntu giteruye agakarito gatoya kariho amashusho y'imbuto z'amatunda. Imbuto z'amatunda ni nziza kubantu bose yaba ku bana abakuru kuko bose zibafasha kugira ubuzima bwiza.

Indobo ebyiri ziteretse ku meza akoze mu mbaho, indobo zirimo amandazi akoze mu ifarini, indobo nazo zikaba ari izibara ry'umweru, zikaba ziri hafi y'umuryango usize amaranga y'ubururu.

Icyuma babikamo amata kugira ngo amata abe yagumana ubuziranenge by'igihe kirekire ndetse kandi kikorohereza abantu kuba cyaba bayasuka neza atameneka ndetse hari n'ikindi cyuma, gifasha kubikwamo amata kugira ngo abe yagumana ubukonje cyangwa se abe yavura.

Akameza gatoya gateretse ahantu mu nzu ikoreshejwe isuku y'amakaro ndetse n'intebe ntoya zifite amaguru y'umukara. Imbere hakaba hari igishushanyo kiriho ibishusho by'ibibido by'umweru, bigaragara ko bishushanyije birimo amata.

Icyuma kibikwamo amata kikayarinda kuba yakandura, kuba yazana umugese akaba ari icyuma kiza kirinda amata ubwandu ubwaribwo bwose burutse hanze kikaba cyabasha no kuyabika igihe kirekire atangiritse, amata ni ikinyobwa cyiza kubantu b'ingeri zose akaba ari ikinyobwa gituruka ku nka.

umuntu wambaye ishati ndende y'amaboko maremare y'umweru ari gusuka amata ayavana mu gikombe kimwe kinini ayashyira mu kindi gikombe kinini , imbere ye hari akadomoro gatoya k'umuhondo mu gihe mu idirishya ryaho ari gusukiramo amata hari abandi abantu benshi batandukanye bigaragara ko bari gushaka ayo mata .

Umubyeyi ukuze wambaye ibitenge birimo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, afashe telefoni mu ntoki ari kunywa icyayi mu gikombe cy'umweru, akaba yicaye aho banywera amata, ahantu hari amacupa y'amazi imbere y'icyuma gikonjesha ibiribwa.

Ibicuba byinshi birimo amata n'ibitarimo amata ndetse n'umuntu uri gusuka amata mu gicuba, igicuba akaba ari igikoresho cyifashishwa mu gutwara amata make, uyavana ahantu hamwe uyajyana ahandi, ukabikora ukoresheje amaboko cyangwa se ukoresheje igare cyangwa se ikindi kintu.

Umugore mwiza wambaye agapira k'umweru, ufite imisatsi migufi, uhagaze imbere y'utudomoro twinshi turi mu ngano zitandukanye, turimo ibiryohera bikoze mu mata ndetse n'amatunda atandukanye harimo n'inkeri ndetse n'utudomoro turimo amata dutoya tw'umweru. Inyuma ye hakaba hari icyo babikamo amata kugira ngo avure.

Imeza iteretseho indobo irimo amandazi ndetse n'agasahani gatoya, imineke, amagi ndetse n'indobo yo gushyiramo imyanda iri munsi y'ameza. Imeza iteretse mu muryango, urugi ruriho muri uwo muryango rukaba rusize amarangi y'umweru. N'umuntu uhagaze imbere y'ayo meza w'umugabo wambaye umupira w'umukara.

Ibiganza by'abantu babiri bafashe telefone ebyiri, buri wese afashe iye n'undi afashe iye mu kuboko kwe, umuntu umwe muri bo akaba yambaye umupira w'umutuku.

Inzu irimo abantu bambaye amashati y'umweru ndetse n'imipira y'umutuku, bakaba barimo baratanga serivise y'ibijyanye no kwakira, kubika, ndetse no kohereza amafaranga ariko hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Umugabo umwe wambaye amataratara, wambaye umupira w'umuhondo ahagaze imbere y'undi mugabo wambaye umupira w'umukara urimo akabara k'umweru, akaba ari imbere ya mudasobwa, akaba ameze nk'aho ari kumusana serivise, ijyanye n'itumanaho rya telefone.

Abantu bane harimo umwe utwaye ipikipiki ndetse akaba yambaye ingofero yagenewe abagenda kw'ipikipiki, umwe akaba ari kumuhereza peterori n'undi mukobwa umwe uhagaze imbere yabo n'undi mugabo umwe wambaye ishati y'umweru.

Icyapa cy'umuhondo giteretse ku meza y'kirahure, icyo cyapa kikaba kiriho umubare bakoresha bishyura amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse kikaba kiri mu nzu mu cyumba gisize amarangi meza y'umuhondo ndetse n'indi mitako igiye itandukanye.

Akazu k'umuhondo kicayemo umugore mo imbere, hanze y'akazu hakaba hari igisanduka cy'umuhondo nacyo, impande y'icyo gisanduka hakaba hari umwana muto cyane, aka kazu kaba kamenyereweho gukorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ihererekanywa ry'amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Akazu k'umuhondo kari ku mbuga itariho ibyatsi, akazu gakorerwamo ibijyanye no kubitsa, kubukura amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashisha telefone, hanze y'ako kazu, hari abana batoya bahagaze hanze y'akazu hafi y'umuhanda w'ibitaka.

Ahantu hari inzu isinze amarangi y'umuhondo kubwiganze, hari umugabo wambaye imyenda y'umukara bigaragara ko ashinzwe umutekano, hakaba hari indangurura majwi zihateretse hakaba rero bigaragara ko hakorerwa ibijyanye no gucuruza murandasi.

Umugabo ari gutambuka yambaye ishati y'icyatsi kibisi yambaye n'ikoboyi y'ubururu, akurikiwe n'undi mugabo uteruye umwamwana ndetse bakaba bari imbere y'inzu y'umuhondo, icururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwihariko amatelefone, ari gucuruzwa n'umugore wambaye umupira w'imweru.

Akazu k'umuhondo kari ku muhanda, kakaba ari akazu kagenewe gucururizwamo cyangwa se gutangirwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga rijyanye n'amafaranga: haba kubitsa, kubikuza, kugura amayinite yo gukoresha kuri telefone uhamagara ndetse unandika ubutumwa.

Inzu ntoya y'umuhondo ifite amadirishya, harimo umugore wambaye umupira w'umukara n'abagabo bari gusaba serivise yo koherezanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Umugabo umwe yambaye umupira w'umweru, undi yambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro ya kaki, bose bakaba bambaye ipantaro za kaki.

Abantu benshi batandukanye, higanjemo abagore beza, bambaye imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo umwe ufashe telefone, ari kwereka undi mu kirahure cya telefone, umwe wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'ibirabyo, bari ahantu mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umutaka w'umuhondo, urimo abantu bicaye hasi n'abandi bahagaze, umugabo umwe wambaye ishati y'umuhondo, yagenewe kwambara abantu bacuruza amafaranga mu buryo bw'ikorana buhanga cyangwa se kohereza no kwakira, akaba rero ahagararanye n'undi mugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'amataratara.

Akazu k'umutuku gafunguye amadirishya yo mu mpande zose, akazu kamenyerewe gukorerwamo ibijyanye no kohereza, kwakira, kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, iruhande rw'akazu hakaba hari icupa ry'amazi.

Umugabo uri imbere y'imodoka y'umukara, iyo modoka y'umukara na yo ikaba irimo undi mugabo, uwo mugabo uri hanze y'imodoka yambaye umupira w'umuhondo, bigaragara ko akora ubucuruzi bwo kwakira no kohererezanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Umuhanzi uri kuririmba yambaye umupira w'umuhondo, akaba ahagaze imbere cyangwa se ari kuririmbira imbere y'abantu benshi bishimye, biganjemo abamama, nabo bambaye imipira y'umuhondo ku gice cyo hejuru.

Abagabo benshi, higanjemo abambaye imipira y'umutuku hejuru ndetse n'ingofero, bari ahatangirwa ubucuruzi bujyanye n'ikoranabuhanga, by'umwihariko kwakira no kohereza amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Abantu benshi batandukanye bari mu cyumba gatangirwamo ubucuruzi, bujyanye no gucuruza amafaranga cyangwa se kohererezanya amafaranga no kwakira hikoreshejwe ikoranabuhanga. Abantu bahari harimo abagabo ndetse n'abakobwa.

Akazu gato gasize amarangi y'umuhondo ndetse kariho umuntu umwe uhetse igakapu cy'umukara w'umugabo akaba yambaye n'umupira w'umweru, mo imbere muri ako kazu hakaba harimo abandi bantu bari gutanga serivise ijyanye no koherezanya no kwakira amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga mu ma terefone.

Akazu k'umuhondo gahagazeho abantu benshi b'abagabo ndetse karimo n'undi muntu umwe mu imbere wambaye umupira w'umutuku. Akazu ubusanzwe gakorerwamo ubucuruzi bwo kubika, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Utuzu tubiri dukoze kimwe kamwe k'umutuku akandi k'umuhondo, akazu kamwe karimo umugabo wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku afashe terefone mu ntoki, akandi kazu imumbavu zako harimo abagabo babiri bambaye amashati y'imyeru. Utuzu twombi, dukorerwamo ubucuruzi bwo guhererekanya amafaranga.

Akazi k'umuhondo gakorerwamo ubucuruzwi bujyanye no guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, akazu gasize amarangi y'umuhondo, kakaba karimo umuntu uri gukora ubwo bucuruzi, muri ako kazu, mu mbavu zako hakaba harimo abantu bahagaze, umugabo n'umugore, umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'umugore ufite imisatsi iboshye.

Umugabo uri mu kazu k'umuhondo, ufite ikaramu, uri kwandika, akaba yambaye umupira urimo amabara y'umukara ndetse n'umweru ndetse imbere y'akazu arimo hakaba hahagaze umukobwa mwiza ufite imibiri yombi, ufite n'imisatsi iboshye, akaba ahagaze mu kazu rero gakorerwamo ubucuruzi bujyaye no guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abambaye imyenda y'umuhondo, harimo abarimo barakora ibijyanye no guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, harimo abicaye imbere y'utumeza tw'umuhondo, abambaye ingofero z'umuhondo ndetse n'abandi benshi batandukanye, bigaragara ko ari ahantu hari mu rusisiro rw'abantu benshi.

Icyapa cy'umuhondo kimanitse ku mashini ikonjesherezwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Icyo cyapa kikaba kiriho inimero bakoresha bishyura amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abakobwa batatu bicaye bari guseka ubona ko ari abakobwa beza cyane bambaye imipira y'umuhondo, umwe yambaye ipantaro y'ubururu, undi yambaye ipantaro y'umukara.

Akazu kari mu mabara y'umutuku karimo umugabo wambaye umupira w'umutuku, hanze y'akazu hakaba hari umugabo wambaye ishati ndende, y'amaboko maremare y'umukara ndetse ifite n'irindi bara ry'umuhondo.

Abagabo babiri umwe yambaye ikanzu y'icyats k'ikirere, ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo, ndetse yambaye n'akagofero, undi yambaye ipantaro y'umukara, n'ishati irimo amabara y'umuhondo afite telefone mu ntoki. Bahagaze imbere y'akazu k'umuhondo gakorerwamo ubucuruzi bw'ihererekanya, ry'amafaranga mu buryo bw'koranabuhanga.

Inzu nziza isize amarangi y'umutuku, imbere y'iyo nzu hakaba hari akandi kazu gatoya k'umuhondo karimo umumama wambaye imyenda nawe y'umuhondo. Akaba yafunguye imidirishya yose bigaragaza ko akora ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Umugabo umwe wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko maremare y'ubururu, uhagaze imbere y'akazu k'umuhondo karimo umukobwa wambaye agapira k'umukara. Ako kazu kakaba gasize amarangi y'umuhondo. Ni akazu gakorerwamo ubucuruzi bwo guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo ubucuruzi bwo kwakira, kubitsa, kohereza amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, aka kazu kakaba karimo abantu benshi batandukanye, umugore n'abagabo babiri ndetse no hanze y'akazu hakaba hari abandi bantu harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye ishati y'umutuku. Hanze y'akazu hakaba hari n'izindi modoka ziparitse.

Umugabo usheshe akanguhe wishimye cyane wambaye umupira w'umuhondo akaba arimo aragenda ku igare. Inyuma ye hakaba hari abantu benshi batandukanye harimo abakobwa ndetse n'abagabo.

Akapa k'umuhondo kariho uburyo bwo kwishyura ibigurwa cyangwa se ibicuruzwa ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga rikoresheje itelefone.

Umukobwa ukiri muto uri mukazu k'umuhondo, akazu k'umuhondo gasanzwe gakorerwamo ubucuruzi bwo kwakira, kohereza ndetse no gucuruza ibijyanye n' amafaranga ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Imeza nziza iriho mudasobwa ebyiri, ndetse iriho n'ururabyo rugizwe n'amabara abiri, icyatsi kibisi ndetse n'umutuku ndetse na nimero bahererekanyaho amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Umuntu ufashe terefone mu ntoki, terefone akaba harimo uburyo bwo koherezanya amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga, terefone akaba ari igikoresho gikoresha uburyo bwinshi butandukanye harimo guhamagara, kwakira ubutumwa, kwakira no kohereza amafaranga mu burryo butandukanye.

Akazu k'umuhondo gatoya gateretse ahantu hafi hari ibyatsi bimeze neza, akazu gafunguye mu ruhande rumwe. Imbere y'akazu hakaba hahagaze umugabo uri mw'idirishya ry'akazu, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira urimo imirongo y'umweru niy'umukara.

Akazu k'umutuku kariho amagambo y'umweru, akazu kifashishwa mu bucuruzi bwo kohererezanya amafaranga, hikoresheje ikoranabuhanga rya terefone, imbere y'akazu hakaba hari umugore wicaye wambaye agapira k'umuhondo hakaba hari n'abandi bantu harimo umugabo wambaye imyenda y'umweru uhagaze imbere y'imodoka y'umweru na none.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'inzu, umugabo umwe yambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'umupira w'umuhondo, akaba ahagararanye n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara bose bafashe amatelefoni mu ntoki, umugabo umwe akaba ari kwereka undi uburyo ashobora gukoresha uburyo bwo kohereza cyangwa se kwishyura amafaranga y'igicuruzwa akoresheje ikoranabuhanga rya telefoni.

Abagabo babiri bari kubyina umuziki hanze ndetse n' undi mugore umwe bisa nkaho ari we uri kuririmba hakaba abagabo babiri, babiri bakaba bambaye imupira y' umweru, umwe yambaye ipantaro yikoboyi yubururu undi yambaye ipantaro yumweru ,Bose bakaba bizihiwe N' umuziki ndetse nigikoresho k' indangururamajwi iri inyuma yabo.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo ubucuruzi bw'ihererekanya ry'amafaranga. Hanze y'akazu hakaba hari abantu benshi bahagaze imbere y'umuhanda wa kaburimbo yiganjemo abagore n'abagabo, kurako kazu hakaba hahagaze umugabo wambaye ipantaro yu'ubururu ndetse n'ishati y'mweru yamaboko magufiya. Akazu kaba gateretse hanze y' nzu ikikijwe urugo rukozwe mu byuma.

Abagabo batatu bambaye imyenda y'umuhondo irimo amabara y'umukara, bakaba bahagaze imbere y'akabati gateretseho amatelefone ndetse n'akandi gapapuro bari gusoma bombi.

Akazu gato k'umuhondo gafunguye amadirishya mu mbavu zose, akazu karimo umukobwa mwimbere ndetse no hanze y'akazu hakaba hari undi mukobwa wambaye umupira w'umutuku.

Akabati gakoze mu byuma ariko kakaba kariho icyapa cyamamaza ibijyanye na murandasi, icyapa gikoze mu mabara y'umuhondo, mu gihe akabati ko gasize amarangi y'ikigina.

Umugabo ufashe telefone mu ntoki, ufite agakapu gatoya mu ijosi ndetse n'undi uri imbere ye umwicaye imbere, bose bakaba bicaye imbere y'ameza y'umuhondo n'umukara gafite amaguru y'ibyuma.

Icyumba kinini, kirimo abantu batandukanye, harimo abicaye ku ntebe z'umuhondo, n'umukecuru uhagaze, wambaye ibitenge birimo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku. N'abandi, ndetse na mudasobwa ziri imbere y'ibirahure.

Abantu bari guhaha: umugabo umwe yambaye ishati y'umutuku, n'undi mugore wambaye agashati k'umutuku, n'undi mugore ukuze wambaye agashati k'icyatsi kibisi; bose bakaba bari guhahira umugabo umwe wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, wambaye n'amataratara.

Akazu k'umuhondo kicayemo umuntu wambaye ishati n'umupira ishati y'umuhondo n'umupira w'icyatsi kibisi

Abantu batatu harimo; abagabo babiri n'umugore umwe, wambaye ipantaro ndetse n'agashati k'umukara bakaba bahagaze imbere y'akazu gatoya k'umuhondo, ndetse ako kazu kakaba gateretse imbere y'indi nzu nini cyane, yubakishije amatafari ahiye ndetse na sima, ako kazu k'umuhondo gato kakaba kamenyereweho ubucuruzi bwo kohereza amafaranga.

Icyapa cy'umuhondo cyerekana uburyo ushobora kugura cyangwa ukishyura ukoresheje uburyo bwo koherezanya amafaranga ku ikoranabuhanga kandi ukabukora ntakiguzi na kimwe wishyuye.

Inzu nziza ifite umuryango utatse amabara y'umutuku, bigaragara ko ariahantu hacururizwa ibijyanye n'ihererekanywa ry'amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga rya terefone.

Umugore umwe wambaye ijipo imwe y'igitenge ndetse n'agapira gaciye amaboko, akaba ahagaze imbere y'akazu gakorerwamo ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Akazu gato kari mu mabara y'umuhondo, karimo umugore umwe n'undi uri hanze, aka kazu kamenyerewe gukorerwamwo ibijyanye no kohereza, kubika, kubikuza ndetse no kwakira amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga hifashishijwe Telefoni.

Umugabo umwe uhagaze imbere ya mudasobwa akaba yambaye umupira w'umuhondo afashe agatelefone gato mu ntoki, n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara, urimo umurongo w'umweru n'undi muronko w'umutuku, akaba afashe telefone nini mu ntoki.

Abagabo babiri bahagararanye, umwe ateruye agapfunyika, yambaye isaha ku kuboko kwe kw'iburyo, abafashe telefoni, ndetse n'undi wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero, n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko ari kwishimira ko aguze ako gapfunyika akoresheje serivisi yo kohererezanya amafarangau ikoranabuhanga.

Akazu gato cyane k'umuhondo gafunze kari hakurya y'umuhanda wa kaburimbo iruhande rw'inzira y'abagenzi. Akazu ubusanzwe gakorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga cyane cyane ibijyanye no kohereza kwakira kubitsa no kubikuza amafaranga yifashishijwe ikoranabuhanga.

Akazu gatoya k'umuhondo, gahagazeho umuntu w'umusore uri kuvugira kuri telefoni, wambaye umupira urimo amabara y'icyatsi n'umweru, aka kazu kakaba ari kamwe kamenyereweho gucururizwamo cyangwa se gukorerwamo ubucuruzi bwo kohererezanya amafaranga ku ikoranabuhanga ryifashisha telefoni.

Akazu gakozwe mu mbaho gatatsweho imitako y'imigongo icupa ry'amazi ryo mu bwoko bwa jibu abantu batatu harimo abagabo babiri bambaye amashati y'umweru bambaye n'udupfukamunwa iyinzu ikaba ikorerwamoibijyanye no kubika, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga.

Umuntu ufashe telefoni mu ntoki, akaba ayifashe n'amaboko yombi, akaba yambaye agakomo ku kuboko kumwe, telefoni akaba ari igikoresho cyifashishwa mu guhamagarana abantu bategeranye ndetse cyangwa se kohererezanya ubutumwa, kohererezanya amafaranga n'ibindi bitandukanye muri rusange.

Abagore batatu, babiri bambaye imipira y'umuhondo, undi yambaye umupira w'ubururu, bose bakaba bahagaze imbere y'imitaka y'ubururu, bakaba bari gukora igikorwa cyo kwamamaza ibicuruzwa byabo, by'umwihariko ibyo bakora bijyanye no kohereza no kwakira amafaranga yikoresheje ikoranabuhanga.

Abantu benshi biremye agatsinda, harimo abagore, abana, abagabo. Abagabo babiri bari gusuhuzanya bigaragara ko bishimye, bambaye imyenda isa cyane imipira y'umuhondo, abandi bantu babarangariye bari kubareba, bari iruhande rw'umutaka nawo w'umuhondo uriho imibare y'uburyo abantu bohererezanya amafaranga kuri telefone hifashishijwe ikoranabuhanga.

Akazu k'umuhondo kicayemo umugore ufite imisatsi miremire, akaba yambaye ishati y'umweru, hanze y'akazu hakaba haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye ndetse n'abantu b'abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye ishati y'icyatsi. Aka kazu kakaba gakorerwamo ubucuruzi bwo kwakira, kohereza amafaranga ariko hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Umugore wicaye, imbere ku meza ye hariho telefone nini y'umweru, ndetse n'utwuma tubiri dukoreshwa mu kwishyura amafaranga hakoreshejwe ikarita, imbere hakaba hari icyapa kiriho uburyo bwo kwishyura amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefoni.

Akapa k'umuhondo kariho uburyo cyangwa imibare wakoresha uri kohereza amafaranga, ahantu ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bugezwho.

Umugore ufite imisatsi iboshye wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo uhagaze imbere ya mudasobwa imbere y'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru.

Umutaka ufite amabara y'umuhondo ukaba urimo abantu babiri b'abagabo bahetse udukapu duto two mu mugongo bambaye amashati y'umweru bakaba banatebeje, iruhande rwabo hari undi mugabo wambaye ishati y'icyatsi.

Abantu benshi batandukanye bahagaze munsi y'umutaka w'umuhondo bakaba bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye bakaba bahagaze mumutaka wubatse mubusitani buriho n'indabyo nziza.

Umugabo ufite agaseke, ndetse n'undi mugabo umwe uri kugakoramo, umugabo ufite agaseke akaba yambaye umupira w'umweru, i ruhande rwabo hakaba hari umugore uri guseka, wambaye amataratara, wambaye n'umupira w'umuhondo.

Umuntu w'umugore wambaye imyenda y'umuhondo, akaba ahagaze munsi y'umutaka, akaba yambaye imyenda isa yose yose y'umuhondo ndetse akaba yambaye n'igikomo ku kuboko, bigaragara ko ari gukora serivisi zijyanye no guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa cya kompanyi cyarekana uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, hariho nimero z'uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ku buryo ubutari bukatwa amafaranga na make kuri iyo serivisi yo kwishyura.

Abantu benshi bakoze ikivunge munsi y'umutaka w'umuhondo, hari abambaye ingofero z'umuhondo n'imipira, abicaye imbere y'akameza k'umweru kakoze uruziga, abantu benshi biragaragara ko hari ibyo bari gusobanuza batabashije gusobanukirwa.

Abantu benshi bari mucyumba ndetse na mudasobwa ziteretse ku meza , abantu biganjemo abagore n'abagabo. Umugore umwe yambaye ishati y'ikirabyo, irimo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, ndetse n'abandi bambaye imipira y'imweru ndetse irimo amabara y'umuhondo.

Ibiganza bibiri bifashe terefone mu ntoki, terefone irimo kwaka bigaragara ko irimo irakoresha umurongo umwe w'itumanaho. Terefone ni igikoresho cyiza gikoreshwa m'uburyo butandukanye haba ari uguhamagara, guhamagarwa kwakira ubutumwa ndetse no kubutanga ndetse ikaba yakifashishwa mu bindi bikorwa bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Inzu nziza y'igorofa isize amarange y'umuhondo, imbere y'iyo nzu hakaba hari akazu gatoya gafite amadirishya abiri yose afunguye harimo umuntu wambaye imyenda y'umuhondo, imbere y'ako kazu nanone hariho umuntu w'umusore wambaye umupira w'umutuku. Muri ako kazu harimo umuntu umwe uri gucuruza serivise ijyanye n'itumanaho.

Abantu babiri begeranye, umukobwa n'umugabo. umukobwa wambaye ishati y'umukara ufashe terefone mu ntoki ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo, n'ingofero y'umuhondo ari kureba muri terefone umukobwa afashe.

Mudasobwa ebyiri ziteretse ku meza, imbere ya mudasobwa hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo cyane, ndetse n'inyuma ya mudasobwa hari umugore wambaye umupira w'icyatsi ,ndetse n'umugabo wambaye ingofero, ndetse n'umupira w'umukara.

Akazu gatoya gasize amabara y'umuhondo kariho n'ibyapa bitandukanye kakaba karimo umugore umwe ndetse n'undi mugore uri hanze aka kazu kakaba kamenyereweho gukorerwamo ubucuruzi bw'ihererekanywa ry'mafaranga bukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Umugore uri gutambuka yihuta cyane atwaye udupfunyika dukoze mu bikarito akaba ari guca inyuma y'abagabo benshi bambaye imipira y'umuhondo, bigaragara ko batanga serivise y'ibijyanye no kwakira kubitsa no kohereza amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Akazu gatoya k'umuhondo gateretse hafi y'umuhanda inyuma yaho hari ibyatsi, indabyo z'umucyindo zitoshye cyane akazu karafunze nta muryango wako numwe ufugunguye, ni akazu gakorerwamo ibijyanye no kohererezanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashisha terefone.

Umugabo uri mu nzu icururizwamo ibijyaye na peterori, akaba ahagaze imbere y'imashini yifashishwa mu kubara peterori imaze gusohoka ndeste n'amafaranga imaze kugurishwa, akaba ari kugerageza kwishyura peterori amaze gukoresha, akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Akazu gato k'umuhondo gafunguye amadirishya yose, kakaba karimo umukobwa umwe. Imbere cyangwa se hanze y'ako kazu hakaba hari abandi bagabo babiri bambaye imyenda y'umukara. Ubusanzwe kano kazu kakaba gakorerwamo ubucuruzi, bujyanye no kwakira ndetse kubika ndetse no kohereza amafaranga, hifashishijwe ikoranabuhanga.

Inzu ntoya y'umuhondo irimo abantu, ikaba ifite amadirishya ane afunguye; hakaba harimo abantu bari gutanga serivisi zo kohererezanya amafaranga, imbere hakaba hariho umubyeyi ukuze, ugaragara yambaye imyenda y'ikigina ndetse akaba agaragara ko ari gusaba serivisi na we yo koherereza amafaranga ndetse no kuyakira.

Umugabo uri mu kazu gatoya ku muhondo gafunguye amadirishya yombi, akazu gasize amarangi y'umuhondo gakorerwamo ibijyanye no guhererekanya amafara mu buryo bw'ikoranabuhanga . Inyuma y'akazu gatoya hakaba hari indi nzu nini cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba ishakaje amabati atukura. Insina nziza ziri hagati yizo nzu zombi zigaragara neza.

Abantu batatu bahagaze i ruhande rw'imodoka ahantu hacururizwa ibijyanye na peteroli bahagaze ahantu mu modoka nyinshi cyane, abo bantu harimo abagabo babiri n'umukobwa umwe umugabo umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambaye umupira mugufi w'ikigina ndetse n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, umugabo umwe afashe terefone mu ntoki yambaye amataratara.

Icyapa kinini, cy'umuhondo, kiriho ishusho y'umusaza wishimanye n'umwana muto w'umuhungu, wambaye umupira w'umuhondo. Icyo cyapa kikaba kiri kwamamaza uburyo bwo kugura amayinite yo gukoresha uhamagara kuri telefone.

Icyapa kiriho abagore babiri bishimye cyane, bari guseka bafashe telefone mu ntoki, icyo cyapa kikaba giteretse imbere y'akabati karimo ubwoko butandukanye bw'amatelefone, akabati gasize amarange y'umutuku, bigararaga ko ahantu gateretse hacururizwa ibijyanye n'amatelefone ndetse n'itumanaho.

Umugore uri gukora ibijyanye no kohereza, kubikura ndetse no kubitsa amafaranga akoresheje ikoranabuhanga rya telefone.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi w'amaboko magufi intebe ebyiri zicaraho abakiriya bategereje kwakirwa mudasobwa ebyiri ziri ku meza.

Akazu gatoya gafite amabara y'umuhondo, akazu kamenyereho gukorerwamo ubucuruzi cyangwa se guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashishije telefone.

Ikiganza gifashe agatelefone gato cyane, telefone ni igikoresho kifashishwa mu bintu byinshi birimo itumanaho, kwishyura no kwishyurwa, amafaranga mu buryo abantu baba bategeranye n'ibindi byinshi bitandukanye telefone ikora.

Umutaka munini w'umuhondo, wicayemo abagore babiri, bari gucuruza amatelefone ari mu dukarito dutoya tw'umuhondo, ndetse imbere yaho hakaba hari imipira y'amaboko magufi y'umuhondo.

Abagore babiri umwe yambaye ishati y'umutuku n'ipantalo y'umukara, undi yambaye ishati n'ipantaro y'ibarabyo bakaba bahagaze imbere y'utuzu tubiri kamwe k'umutuku akandi k'umuhondo, utuzu twombi tukaba dukorerwama akazi ko koherezanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'umukara, hagati yabo harimo igare risize amarange y'umuhondo, umugabo umwe wambaye umupira w'umuhondo afite telefone mu ntoki.

Akazu k'umuhondo gahagazweho n'abantu benshi harimo abagore n'abagabo. Mo imbere y'akazu, harimo umugabo urimo gutanda serivisi z'ibijyanye n'ihererekanya ry'amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga rya telefoni.

Abagabo babiri n'umugore umwe, umugabo umwe yicaye ku ipikipiki, ipikipiki ihetse agasandugu karimo ibiryo agemuye ahantu n'aho umugore umwe yambaye akajire k'umuhondo bigaragara ko acuruza amafaranga yo gushyira kuri telefone, umugabo uri kuri moto akaba ari kugura ayo mafaranga.

Umugabo wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'ikigina, wicaye mu kazu gakorerwamo ibijyanye no kohereza, kubitsa, ndetse no kubikuza amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Akazu gasize amarangi y'umuhondo gafite amadirishya afunguye mu mbavu zombi.

Imyenda imanitse ahantu icururizwa hakaba hari n'umuntu ufashe icyuma cyifashisha mu kumanika imyenda, akaba yambaye ijire y'umuhondo yambarwa n'abantu bacuruza cyangwa bohereza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abagabo batatu, babiri bambaye imipira y'umuhondo isa, umwe yambaye amataratara n'undi umwe uhagaze imbere yabo bigaragara ko ari kubasaba ubufasha, akaba yambaye umupira w'umweru n'ipantaro ya kacye, imbere yabo bagabo bambaye umuhondo hakaba hari mudasobwa y'umukara.

Abantu batanu harimo bane barigutanga serivise, batatu b'igitsina gore ndetse nundi umwe w'umugabo. abobane bakaba bambaye imyenda y'umuhondo y'ikigo bakorera gicuruza serivise z'itumanaho ndetse nundi mugore umwe bigaragara ko ari kubasaba serivize y'ikorana buhanga cyangwa se y'itumanaho, ijyanye n'ikigo abo bandi bakorera.

Umugore wambaye imyenda irimo ibirabyo byiganjemo amabara atukura, ufite imisatsi miremire wambaye isaha ku kuboko ndetse n'umugabo bahagararanye wambaye ishati y'amaboko maremare uhetse igikapu mu mugongo ufashe terefoni mu ntoki. Bose bakaba bahagaze imbere y'imodoka y'ikigina, imodoka nziza cyane.

Akazu gato k'umuhondo karimo abantu, akazu kandi ku ruhande kariho undi muntu wambaye ikote ry'umukara, ndetse n'impande z'akazu hakaba hari abantu batandukanye mu kazu harimo umukobwa n'umuhungu, akazu kagenewe gukorerwamo ibicuruzwa cyangwa se gukorerwa mu bijyanye no guhererekanya amafaranga mu ikoranabuhanga ryifashisha Telefoni.

Umuntu w'umugabo wambaye amataratara y'umukara, uhagaze imbere y'ipikipiki y'umuhondo, akaba ari imbere y'icyapa cyamamaza sosiyete y'itumanaho iri kwamamaza ibikorwa byayo.

Akapa gatoya k'umuhondo kometse ku gikuta cy'inzu, kaba kariho inimero z'uburyo ushobora kwishyura igicuruzwa ukakishyura ukoresheje ikoranabuhanga ariko ntukatwe amafaranga y'ubwishyu.

Umubyeyi w'umugore ukuze wambaye ibitenge birimo amabara y'ibirabyo, akaba ari imbere y'undi mukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'undi wambaye umupira w'umweru, bose bigaragara ko bakora ubucuruzi bw'ibijyanye n'ikoranabuhanga, ryibanda ku kohezanya no kwakira amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Agakarita gato gakozwe mu mabara y'umuhondo, kanditseho imibare yo koherezaho amafaranga ukoresheje telefone.

Akazu gato cyane gateretse ahantu hasi, kakaba gasize amarange y'umutuku, kakaba ari akazu gakorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga cyane cyane kohereza, kubitsa, kubikuza byose bifitanye isano n'ikoranabuhanga mu mafaranga.

Abantu benshi bari munsi y'umutaka w'umuhondo umugabo umwe akaba yambaye ishati y'umuhondo ikunda kwambarwa n'abantu bakora ibijyanye no kohereza, kwakira, kubikaka, amafaranga ariko hakoreshejwe ikoranabuhanga. Umugabo umwe akaba yambaye ishati irimo imirongo y'ubururu ndetse n'umuhondo.

Abantu babiri bahagaze imbere yakazu gasize amarangi y'umuhondo, umwe yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu akaba ari umugabo, undi wambaye agashati k'umuhondo ndetse n'agakabitura k'umukara akaba ari umugore. akazu bahagaze imbere kakaba gakorerwamo ubucuruzi bw'ihererekanya ry'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abantu batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe bahagaze imbere y'akazu gato kari mu mabara y'umutuku akazu gakorerwamo ubucuruzi bwo guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga rikoresha terefone, ako kazu kakaba kari imbere y'inzu nini yubakishije amabati ndetse isize amarange y'umuhondo.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye umupira w'icyatsi kibisi uciye amaboko akaba afashe telefone mu ntoki n'agakarita kajyaho amafaranga yo guhamagara, akaba ari gushyira amafaranga muri telefone imbere ye hari inyanya nziza z'umutuku zihiye neza cyane ndetse hakaba hari n'umutaka w'umutuku ucururizwamo amafaranga yo kujya kuri telefone.

Abantu babiri umwe w'umugabo umwe w'umugabo wambaye amataratara, umugabo ufashe agaseke umugore ari gukora muri ako gaseke, hagati yabo harimo ameza.

Telefone ntoya cyane ifashwe mu kiganza n'umuntu uri kugerageza kwishyura amafaranga akoresheje ikoranabuhanga ndetse n'inzoga zikiri mu macupa ariko zikaba zikiri makurete yagenewe kubikwamo amacupa y'inzoga.

Icyapa kiriho uburyo bakoresha bari kohererezanya amafaranga, mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa kiriho uburyo ushobora kwisyura gicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga, akaba ari nimero wakoresha ugatanga amafaranga avuye kuri konti yawe, atabaye ngombwa ko bagukata.

Abantu benshi bari mu cyumba gikorerwamo mu bucuruzi bwo kohererezanya amafaranga mu ikoranabuhanga ryifashisha telefone, hakaba harimo abagabo bane n'abagore babiri.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'agakarito kariho igishushanyo cya terefone, hakaba hariho n'uburyo bwo kwishyura mu gihe umuntu uwo ariwe wese yaba aguze igicuruzwa muri iryo guriro.

Umugabo n'umugore bahagaze begeranye, umugabo yambaye agapira k'icyatsi kibisi, umugore wambaye agapira k'umuhondo, bahagaze ku kazu gasize amarange y'umuhondo, akazu gato gakorerwamo ubucuruzi bwo koherezanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Uburyo bwo kohereza, kwakira amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga, kandi ukaba nta giciro na kimwe usabwa, iyo ukoresheje ubwo buryo. Ni icyapa gikozwe mu mabara y'umweru, ndetse ariko higanjemo amabara y'umuhondo.

Umugabo ufite ikaramu ndetse n'igitabo ari kwandikamo. Igitabo kirambitseho terefone n'umukobwa uri kureba aho uwo muhungu ari kwandikira afite imisatsi iboshye, inyuma y'umukobwa hakaba hari kaburimbo hakurya ya kaburimbo hakaba haparitse imodoka.

Akazu k'umuhondo, gateretse inyuma y'igipangu cyubakishijwe ibyuma, ako kazu kariho abantu benshi, harimo abakobwa babiri bambaye majipo y'umukara n'amashati t'umutuku, ndetse n'umusore wambaye umupira w'umweru, uhetse agakapu k'umukara ku nda.

Abantu benshi bateraniye ku muntu umwe wicaye ku ntebe ndetse n'akameza k'umuhondo, bambaye imyenda itandukanye bigaragara ko hari ibyo bari kumusobanuza bo batabashije kwisobanurira.

Akazu gato k'umuhondo, gateretse imbere y'indi nzu nini cyane, isize amarange y'umuhondo. Akazu gafunguye amadirishya yose. Ni akazu kamenyereweho gukorerwamo ibikorwa byo guhererekanya amafaranga, hifashishijwe ikoranabuhanga rya telefone.

Akazu gatoya gakozwe nk'umutaka kikaba karimo abantu babiri bambaye imyenda y'umuhondo umwe w'umugabo n'undi w'umugore imbere yabo hakaba hari imipira myinshi iri mu mabara y'umuhondo nyuma yaho hakaba hari n'abandi bantu benshi bahicaye inyuma y'umutaka wabo bakaba hari n'indangururamajwi.

Abantu benshi b'abagabo bambaye imyenda itandukanye bari imbere y'akazu kubakishije umwenda w'amabara y'umuhondo yanditseho imibare y'uburyo bohererezanya amafaranga kuma terefone ukoresheje ikoranabuhanga. Nyuma yaho hakaba hari akandi kazu nako kubakishije umwenda w'ubururu.

Abantu bane harimo abagore babiri ndetse n'anagabo babiri, umugabo umwe wambaye umupira w'umutuku wicaye mu ntebe ndetse n'umugore umwe uhagaze wambaye ikanzu y'umukara n'undi mugabo umwe uhagaze wambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umukara bose bigaragara ko bari gusaba serivise undi mugore ku bijyanye n'ikoranabuhanga cyane cyane koherezanya no kwakira amafaranga.

Umugore wicaye ahantu heza cyane, akaba yambaye agapira k'amaboko maremare kamufashe cyane, akaba ndetse yambaye n'agapantaro, akaba afite imisatsi y'umukara myiza cyane, afashe telefone mu ntoki, telefone nziza y'umweru akaba arimo araseka, bigaragara ko yishimye.

Umugabo utwaye ipikipiki wambaye ishati y'umukara ateruye agakarito k'umweru ari kugashyira mu gasunduku k'icyatsi kibisi kanditseho amagambo y'uburyo bwo guhamagara ushaka kugura ibigurwa n'ibicuruzwa ,umugabo yambaye ingofero yagenewe kwambarwa n'abagenda kuri moto ingofero nayo ifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyapa cyamamaza ibiribwa byo murugo kiriho imbuto ndetse n'ibikoreshwa nk'ibirungo hakaba hariho inyanya, amashu, inanasi, amavuta yo guteka ndetse ifu y'ingano n'inyama, ndetse n'amafi hariho igiciro cy'amafaranga ku ngano y'ibiribwa ndetse n'uburyo bwakoreshwa ushaka yenda kugura uburyo bwokoherezanye amafaranga muburyo bw'ikoranabuhanga.

Umugabo utwara ipikipiki y'umutuku, akaba yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umuhondo, akaba yambaye ingofero yagenewe kwambarwa n'abatwaye amapikipiki, ipikipiki ikaba ihetse agakapu karimo amabara y'umutuku ndetse n'amabara y'umuhondo.

Ishusho igaragaza uburyo ushobora kugura ibikoresho, ukabigura utavuye iwawe mu rugo. Ndetse hakaba hariho n'umurongo ushobora guhamagara, waba ari uwo kwandikira ndetse no guhamagara. Hakaba hariho ishusho y'umukobwa ufashe telefoni mu ntoki, ari kugerageza guhamagara.

Imodoka y'umutuku iriho icyapa inyuma ku kirahure k'inyuma yamamaza abakorera ku mbugankoranyambaga bacuruza ibicuruzwa byabo kuri murandasi.

Aho winjiriza imyirondoro yawe ndetse n'iyi'igicuruzwa ushaka kugura cyangwa se kugurisha ku isoko ryo kuri murandasi.

Icyapa cyamamaza kiriho imashini ikonjesha ibinyobwa hariho n'inzoga nziza, ndetse hariho n'ubwoko bw'izo mashini bushobora kuboneka ku isoko ubwoko bw'zo mashini zikonjesha.

Umugabo uhagaze wambaye ingofero ndetse ahagaze inyuma y'ipikipiki, akaba yambaye ishati y'icyatsi kibisi n'ipikipiki ihetse agasanduku k'icyatsi kibisi, karimo ibintu iyo pikipiki itwaye.

Imodoka nyinshi ziparitse zitwaye igisanduku gitwarwamo ibintu, imodoka zikaba zifite amabara y'umweru, mu gihe ibyo bisanduku zitwaye bifite amabara y'umuhondo. Imodoka nyinshi ziparitse mu mbuga, munsi y'inzu y'igorofa.

Icyapa cyamamaza isoko rikorera kuri murandasi, cyikaba kiriho: nimero z'aho iryo soko ribarizwa ndetse n'imodoka bakoresha bagemurira abaguzi ibicuruzwa baguze, imodoka isize amarangi y'umutuku ndetse hakaba hariho n'umuntu uteruye agakarito ka kacyi.

Ipikipiki iparitse itwaye agasanduku bakunda gutwaramo ibiribwa bishyiriwe abakiriya, ndetse ikaba ihagazweho n'umugabo wambaye ishati ya karokaro irimo amabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu.

Ipikipiki ziri mu muhanda zitwawe n'abagabo bambaye ingofero zagenewe kwambarwa n'abagenda ku mapikipiki. Ipikipiki kandi zikaba ziriho udusanduka twagenewe kugendamo ibicuruzwa biba bivuye ku maguriro bigiye ku babiguze.

Ipiikipiki iparitse iriho umugabo uyitwaye wambaye ingofero yagenewe abantu batwara amapikipiki, n'abayagendaho, ipikipipiki ikaba ariho igisanduku cyandikishije amabara y'umukara, icyo gisanduku kikaba kiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umugabo umwe wambaye ishati y'icyatsi kibisi n'ipantaro ya kake, akaba yambaye ingofero yagenewe kwambarwa abagenda ku mapikipiki, akaba yashyize ukuboko ku gasanduka kari ku ipikipiki, ipikipiki iparitse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo.

Amapikipiki ane atwawe n'abagabo bane bose. Amapikipiki akaba ahetse udusanduku tune turi mu mabara y'umutuku, bakaba baparitse imbere y'umuhanda, hakurya y'umuhanda hakaba hari inzu nziza y'igorofa, ikikijwe n'igipangu kiriho irangi ry'umuhondo.

Umuntu w'umugabo wishimye wicaye ku ipikipiki ye, ipikipiki ihetse agasanduku cyangwa igikapu kikaba kigizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku ndetse nawe akaba, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira ugizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo akaba arimo araseka cyane yicaye ku ipikipiki.

Umuntu utwaye ipikipiki yambaye ingofero y'abagenewe gutwara ipikipiki, akaba atwaye ipikipiki iriho agasanduku gakozwe mu mabara y'umutuku, utwaye ipikipiki yambaye ishati y'umukara, aparitse imbere y'ahantu hari imodoka y'umweru ndetse n'iy'umukara.

Icyapa kiriho ubwoko bw'imboga butandukanye, ndetse kikaba kigaragaza igiciro cy'izo mboga, agaciro k'amafaranga izo mboga zigiye zigura.

Abatwara amapikipiki baparitse ku ruhande rw'umuhanda impande z'ahantutu hari amazu y'ubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati y'umutuku.

Abantu b'abagabo bishimye bari gukora ubucuruzi bw'inyanya, bazishyize mu bitebo ndetse no mu bikarito, bahagaze imbere y'imodoka iriho amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, ndetse imineke myiza cyane n'ibirayi byiza cyane.

Ububiko bw'iduka ry'ibicuruzwa bicururizwa kuri murandasi, hakaba harimo abantu batatu: abakobwa babiri ndetse n'umugabo umwe; bose bicaye imbere ya mudasobwa, bicaye ku ntebe ndetse n'ameza yo mu ibara ry'umutuku ryerurutse.

Icyaba cyamamaza uburyo bwo kohererezanya, kugurisha imboga z'ubwoko butandukanye hakoreshejwe murandasi, hakaba hari uburyo bushoboka bwose wakoresha kugira ngo ugezweho ubwo bwoko bw'imboga buri mu gafuka gafunze neza cyane, hakaba harimo imboga z'ubwoko bwinshi.

Ipikipiki iparitse imbere y'urukuta rw'ubakishije amabuye , hejuru y'urukuta hakaba hariho ibyatsi byiza bitoshye ,kuri iyo pikipiki hakaba hariho agasanduku kariho ibara ry'umutuku, iriho amagambo yandikishijwe umweru. Hejuru y'agasanduku hakaba hariho ikiganza cy'umuntu ufashe agapfunika gakoze mu gikarito.

Abagore babiri umwe wambaye ishati ya kaki, undi yambaye y'icyatsi kibisi, barimo barahererekanya agapfunyika karimo ibirbwa birimo amavuta ndetse n'imboga.

Amapikipiki atatu ahagaze ahantu hamwe, bigaragara ko atwaye udusanduku turimo ibicuruzwa, bagenda bahereza abantu.

Icyapa cyamamaza igitaramo cy'indirimbo ndetse hakaba hariho n'amashusho y'abagabo batandatu, bazaba bari muri iki gitaramo n'abahanzi, ndetse hakaba hagaragaraho n'uburyo bwo kugura urwandiko rwo kwinjira muri iki gitaramo.

Abakobwa babiri bari guseka, bateruye agakarito gato kari mu ibara ry'umutuku, bakaba bishimye cyane; umukobwa umwe yambaye umupira w'icyatsi cyijimye, undi yambaye uw'umutuku, imipira yose ikoze mu buryo bumwe.

Icyapa cyamamaza isoko rikorera kuri murandasi, murandasi akaba ari uburyo busigaye bugezweho bucururizwaho ibicuruzwa bigiye bitandukanye muri iki gihe cy'ikoranabuhanga.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi kibisi bigaragara ko yishimye, yambaye amaherena, imistsi ye iraboshye akaba ari gufungura agasanduku nako k'amabara y'icyatsi kibisi.

Icyapa kiriho kwamamaza uburyo bwo kugura ibikoresho ariko ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se kugura utavuye mu rugo iwawe. Icyo cyapa kiriho ishusho y'umukobwa ufite telefoni mu ntoki bigaragara ko ari kugura akoresheje ubwo buryo.

Inzu nini cyane, y'igorofa, ifite, izengurukijwe ibirahure, ndetse n'imeza nini ikoreshwa n'abantu be batandukanye, ikaba ari imeza igaragara ko iteretse ahantu ku makaro, ikaba ari imeza ifite ibara ry'umutuku.

Ipikipiki iparitse itwaye agasanduku k'icyatsi kibisi, nyuma y'ipikipiki harimo hariho umuntu wambaye ishati y'icyatsi kibisi ndetse n'ipantalo y'ubururu.

Icyapa cy'umuyoboro w'ikoramabuhanga kiri kwamamaza uburyo bakoresha bagura murandasi, ku buryo buhendundutse kuri icyo cyapa hakaba hariho umugabo umwe, wayangaye bigaranara ko ashobora kuba yishimiye ibijyanye n'ibiciro bitoya bya murandasi.

Ipikipiki iri kumwe n'umugabo uyitwaye wambaye umupira w'amaboko maremare w'umutuku, yambaye ingofero yagenewe kwambarwa n'abagabo batwaye amapikipiki ateruye agapfunyika gakoze mu gikarito, ipikipiki itwaye agasanduka kari mu mabara y'umutuku.

Ipikipiki iparitse imbere y'umuryango w'inzu, inzu isize amarange y'umutuku ndetse n'iikigina, hari umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umutuku, ndetse n'inkweto z'umukara. Ipikipiki ikaba ari umutuku ikaba ihetse agasanduku k'ubururu.

Terefone ifashe ku ipikipiki ikaba irimo igaragaza ikerekezo cyaho umuntu utwaye ipikipiki ari kwerekeza, terefone kandi uretse kwerekana icyerekezo cyaho ipikipiki yerekeza ikaba ishobora gukoreshwa mu buryo bw'itumanaho harimo guhamara kohererezanya ubutumwa n'ibindi bitandukanye.

Inzu nziza cyane iriho imitako ndetse imanitseho n'ibyapa, iriho umuryango biragaragara ko ucururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bakaba banakora muburyo bwo kohereza abaguze ibicuruzwa byabo bitabaye ngombwa ko baza kubifata aho babiguriye.

Abagabo babiri bashyize ukuboko ku ipikipiki, hejuru y'agasuka kari hejuru y'ipikipiki, agasuka gakoze mu mabara y'icyatsi kibisi. Abagabo bombi bambaye ingofero z'abagenda kuma pikipiki. Ipikipiki ikaba iparitse inyuma y'igipangu cyubakishije amatafari ahiye kizengurutse inzu y'igorofa nziza iriho ibirahure ndetse n'irangi ry'umuhondo.

Icyapa cyamamaza abakora ubucuruzi bwo kohereza ibicuruzwa ahantu hamwe n'ahandi bitabaye ngombwa ko umuguzi ava aho atuye ngo yigire ku isoko, aragura akoresheje ikoranabuhanga bakabimwoherereza.

Umugore ufashe telefone mu ntoki akaba ari kugura ibicuruzwa yifashishije murandasi, yambaye ishati y'icyatsi kibisi, akabateza agatambaro mu mutwe k'umweru karimo amabara y'umukara ndetse akaba yambaye n'amaherena.

Umugabo uri kugenda ku ipikipiki ntoya ihagaze ahantu akaba afashe ingofero yagenewe kwambarwa n'abantu bagenda ku mapikipiki, ingofero isa icyatsi kibisi. Ipikipiki ikaba itwaye agasanduku kari mu mabara y'icyatsi kibisi kariho ishusho y'umuntu uri kwirukanka.

Icyapa kiriho cyamamaza ibijyanye n'ibicuruzwa by'ibiribwa cyane cyane byiganjemo imboga, hakaba rero hagaragaraho ibicuruzwa bitandukanye n'ibiciro byabyo amavuta, ibitoki, inyama, inyanya, amashu, inanasi n'ibindi.

Ipikipiki iparitse ku muhanda wa kaburimbo, mu nzira inyurwamo n'abagenzi. Ipikipiki ikaba itwaye isanduka itwarwamo ibicuruzwa bishyiriwe ababiguze. Isanduka ikaba ifite urubara rw'icyatsi kibisi.

Abagabo bane bicaye kumapikipiki, amapikipiki ahetse udusanduku tw'umutuku dutwayemo ibiribwa bakaba baparitse imbere yimuhanda , umuhanda uri hafi yigorofa ryinzu , inzu ikikijwe nigipangu gisize amarange y'umuhondo.

Umuntu w'umugabo, wambaye imyenda y'ubururu, ingofero, ndetse n'umupira, akaba afashe agakarito kanditseho amagambo "isoko rigari", bigaragara ko ari kwamamaza ibicuruzwa.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'inkweto hakaba hariho inkweto z'umweru nziza cyane, ndetse hakaba hariho n'igiciro cy'amafaranga bitwara kugirango iyo nkweto igere aho igomba kugera, ndetse hakaba hariho n'aho wasanga izo nkweto aho zicururizwa.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, akaba yatebeje n'ipantaro y'ubururu ,akaba ateruye agakarito karimo ibintu bigaragara ko arahantu ari kubijyana.

Umugabo umwe uhagaze imbere y'ipikipiki iparitse iyi pikipiki ikaba ariho agasanduku karimo ibintu uwo mugabo ajyanye ahantu runaka. uwo mugabo akaba yambaye ingofero yagenewe abantu batwara moto ito pikipiki ikaba iparitse imbere y'umuhanda.

Icyapa cyamamaza kiriho ipikipiki itwaye igisanduka kiri mu mabara y'umutuku hakaba hariho igishushanyo k'icupa ry'amazi yo mu bwoko bwa jibu ndetse n'icupa rijyamo gaze riri mu mabara y'uururu gaze yo gutekesha.

Ahantu heza cyane hubatse neza harimo indabyo nziza n'intebe nziza z'umutuku, Hacururizwaibyo kurya, akaba ari ahantu heza handi harimo n'indabo nyishi zisa neza.

Icyapa cyamamaza ikompanyi ikora ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'aho wabasanga, hakaba hariho ishusho ya mudasobwa ndetse n'ishusho ya terefone.

Ipikipiki iri mu mabara y'umutuku iriho umugabo uyitwaye, wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu y'ikoboyi, akaba yambaye ingofero yagenewe kwambarwa n'abatwaye ipikipiki, na yo iri mu mabara y'umutuku.

Inzu nziza cyane isize amarange y'umweru, inzu y'igorofa imbere y'inzu haparitse imodoka nziza ziri mu mabara y'ubururu. Inzu icururizwamo imyenda yo kwambara iy'abagabo ndetse n'iy'abagore.

Umugabo utwaye ipikipiki, umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, akaba atwaye ipikipiki nayo itwaye ikisandugu cy'icyatsi kibisi, umugabo akaba yambaye ingofero yagenewe abatwaye cyangwa se abagenda kuri moto, ingofero nayo ifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo utwaye ipikipiki, umugabo akaba yambaye ishati y'icyatsi kibisi ndetse n'ingofero y'abatwaye amapikipiki, akaba yambaye inkweto z'umweru, iyo pikipiki ikaba ihetse agasanduku k'icyatsi kibisi karimo ibicuruzwa.

Icyapa cyamamaza ahari kubera igitaramo cyo kuririmba, ndetse hakaba hariho n'uburyo bwo kwishyura icyo gitaramo, hakaba hariho n'ifoto y'umuntu w'umukobwa uri gusake, ndetse n'ikirango k'inzoga.

Imodoka nini cyane, ifite urusandugu runini, rutwaramo ibikoresho cyangwa se rutwara ubutumwa, iyo modoka ikaba isiza amarange y'ubururu bwijimye ndetse n'amarange y'umuhondo.

Abagore beza batandukanye, bambaye imyenda isa y'imukara ndetse n'utuntu tw'umweru mu mutwe, dutuma imisatsi yabo y'abagore itandura ndetse n'ibitoki bigiye bitandukanye biri mu dusanduku twabigenewe.

Amapikipiki aparitse, atwaye udusanduku dukoze mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo. Amapikipiki aparitse ku muhanda, umuhanda uteyeho ibiti byiza cyane, birebire.

Amapikipiki aparitse mu mbuga yose ariho abayatwaye bambaye ingofero zagenewe kwambarwa n'abatwaye amapikipiki. Amapikipiki yose akaba arimo udusanduku turi mu mabara y'umutuku.

Ishusho y'umukobwa mwiza w'inzobe ufashe telefone mu ntoki arimo araseka, yambaye amataratara afite imisatsi myiza miremire, akaba ari kwamamaza uburyo bwo kuba kugura igicuruzwa ariko ukishyura nyuma.

Amapikipi abiri ariho abantu bane bose bambaye ingofero zagenewe kwambarwa n'abagenda ku mapikipiki, Ingofero zose zikaba zifite amabara y'icyatsi kibisi. Ibiti byiza ndetse n'inzu nziza isakaje amabati y'umutuku.

Ipikipiki irimo iragenda itwawe n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo, akaba atwaye agakapu inyuma ye kariho amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku. Umugabo utaye ipikipiki yambaye ingofiro yagenew kwambarwa n'abatwara ipikipiki, iyo ngofero iri mu mabara t'umutuku ifite n'ukirahuri cyayo imbere.